Aho abana babateranirije, abana bari munsi y'imyaka itanu, bagiye kwigisha ababyeyi babo, ko bazajya babagaburira indyo yuzuye ndetse babaha n'amata.

Abantu bateraniye hamwe ni benshi, abenshi bambaye imipira isa y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru, abandi bambaye imipira y'ubururu. Bahurijwe hamwe aha n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Urubyiruko rwinshi rurimo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano, bose bambaye amataburiya ndetse bafite n'amabaji, bisa nk'aho ari abanyeshuri barimo bariga ibijyanye n'ubuvuzi.

Umubyeyi w'umuzungukazi afite mu ntoki indangururamajwi. Yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse ukuboko kw'indyo yambayeho agakomo. Birasa nkaho hari icyo arimo arabwira abamukurikiye.

Ababyeyi basa naho barimo barakora siporo nubwo batarimo kuyikora nk'uko bikwiriye bitewe nuko batambaye imyenda ya siporo. Undi ari hepfo yambaye ibirenge bisa naho arimo koza indobo.

Abantu benshi bicaye ahantu bisa nkaho bagiye gusaba iyo serivisi, ni abantu bo mu ngeri zitandukanye, aho harimo abakecuru, abamama badakuze cyane ndetse n'abakobwa.

Umukobwa usa na ho akuzemo ukuntu, ariyogosheje nta musatsi afite ndetse yiteye igitenge, bisa na ho yagiye kuri kano kuvoma, ijerekani ye isa umuhondo n'ubwo idateye nk'amajerekani asanzwe.

Umwana wambaye agakabutura k'ubururu, agapira k'umutuku yagiye kuri kano ari kuri robine arimo aravomesha igikombe, bisa nka ho aya mazi agiye guhita ayanywa ntabwo ari byiza kunywa amazi adatetse, amazi atarimo umuti ni byiza ko ababyeyi babyigisha abana babo.

Abantu benshi bitabiriye inama igendanye no kwita ku buzima, harimo abantu b'ingeri zitandukanye, abaganga, abaforomo ndetse n'abandi bantu muri rusange, higanjemo abagore ariko harimo n'abagabo inyuma.

Umuhungu mukuru uri kumwe n'akana ku ruhande, umuhungu arunamye arimo arakaraba intoki mu ndobo y'ubururu yambaye ikabutura y'umuhondo ndetse n'isengeri y'umukara akana kari kuhande rwe gafite ibinika karimo karamusukira amaso kugira ngo yoge.

Umwana arimo aravoma kuri robine avomera mu kantu k'agakombe. Bisa nkaho iwabo bafite ubushobozi kuko bakoze ku mafaranga yabo bagura ikigega.

Abantu benshi cyane, uruvunganzoka, baje mu mahugurwa aho baje kuganira ku bijyanye n'ubuzima by'umwihariko ibigendanye no kuboneza urubyaro.

Abantu bisa n'aho ari abaganga cyangwa hari ibyo bakora bigendanye n'ubuzima, bari mu nama yo gushakira igisubizo indwara runaka yabonetse ko irimo kugira abantu benshi cyane ku bitaro.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe abaforomo n'abaforomokazi, hari abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amabaji, harimo kandi hagati umuntu bisa naho ari umukuru wabo, umupapa w'inzo wambaye kositime y'umukara.

Ku ivomero aho abantu benshi bahurira, rikwiriye kuba rifite amarobine atandukanye kugira ngo uzajya uhagera ntazajye ahasanga umurongo munini, turabona abantu benshi baje ku ivomero rwose ubona ko bose bakeneye amazi mu buryo bungana.

Abasore babiri barimo baraganira, umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye ishati y'umweru ariko uterurutse cyane, barimo baraganira kubigendanye n'ubuzima bwabo nk'abasore.

Abana babiri banezerewe, umuhungu n'umukobwa bagiye ku ivomero, umuhungu arimo arapompa ubona ko ashaka ko umwana w'umukobwa avoma. Ni byiza gukoresha amazi meza.

Umuforomokazi yambaye agapfukamunwa na ga z'umweru, ndetse n'umujyanama w'ubuzima yambaye umupira wa RBC n'agapfukamunwa, arimo aramutera urushinge amukingira icyorezo cya Kovide.

Abaforomokazi, abajyanama b'ubuzima bagiye mu mahugurwa, bafite ikayi n'ikaramu mu ntoki ndetse n'ibitabo byo gusoma, barimo bariga ukuntu bashobora gukurikirana ubuzima bw'umuntu buri munsi kandi bakamwitaho.

Inama irarangiye, ni inama yaganiraga ku buzima bw'umuntu iyo avuye iwabo agiye kurwarira kwa muganga cyangwa se ku buzima bwe iyo bamuvuye asubiye mu rugo, iyi ni inama yari yahuriwemo n'abantu benshi b'inzobere mu bigendanye n'ubuvuzi.

Umwana w'umukobwa yiyambariye agakanzu k'amaboko magufi k'igitenge, ari kuri kanano, yatwaye amajerekani menshi ariko noneho aha ngaha arimo aroga intoki kugira ngo ibyo ari bukorereho byose bize kuba bifite isuku.

Ababyeyi babiri, umwe wirabura cyane wambaye ikanzu ya shokora, ifite n'igitambaro bisa mu mutwe ndetse n'undi wambaye ibitenge by'icyatsi birimo umukara, hejuru hari umugabo barimo baraterura umufuka w'umuceri bawumuha.

Abaturage bari mu kiganiro, imbere yabo hahagaze umukobwa urimo kubaha ikiganiro, wambaye umwenda w'umweru, afite agatabo mu ntoki n'indangururamajwi, bicaye mu itenti...

Abana bakiri batoya ubona bambaye impuzankano y'ishuri, bashobora kuba biga nko mu mashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza, bambaye impuzankano z'umuhondo hasi amakabutura y'icyatsi, basuwe n'abantu baje kubigisha ku bigendanye n'ubuzima.

Umubyeyi wiyambariye ingofero y'ubururu, igitenge cy'icyatsi ndetse n'umupira urimo uturongo ubururu bwererutse, ubururu bwijimye ndetse n'umweru, yagiye ku ivomero kuvoma. Yasanze ariwe wenyine uriyo, bisa nkaho ari buvome vuba akitahira, kuko nta murongo uriyo.

Abana bakiri batoya urebye bashobora kuba biga mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye agitangira, bambaye imipira y'ubururu yanditseho ijambo ry'ururimi rw'icyongereza unisefu.

Umwana w'umukobwa bisa naho ari ku kigo cy'amashuri, yambaye imyenda y'ubururu, ijipo y'ubururu n'agapira k'ubururu, arimo arakaraba intoki kuri kandagira ukarabe.

Ababyeyi benshi ubona ko higanjemo abamama, bambaye amajire y'icyatsi, bose bambaye imipira y'imihondo, bamwe bafite abana abandi ntabwo babafite.

Umwana wambaye agakabutura kajya gusa umutuku cyangwa orange n'agapira k'umweru, afite amajerekani imbere ye ane arimo aravoma iya mbere. Ntabwo ari byiza kuvunisha umwana bitewe n'uko bishobora gutuma agwingira mu mikurire ye.

Ikigo nderabuzima cya Mayange, abaforomo barishimye baranezerewe, imbere yabo hari umuzungu wambaye ikositimu y'umukara, bisa n'aho arimo arabigisha ibintu byiza bishimiye.

Ababyeyi babiri bicaye mu biro bose barareba imbere kandi baritonze, umwe yambaye umuhondo imyenda yiganjemo umuhondo, undi yambaye imyenda yiganjemo umukara.

Umugabo wambaye umupira wa oranje, yagiye guha ibiganiro utwana tukiri dutoya. Ni ibiganiro byavuzwe cyane cyane bigaruka ku buzima bw'abana batoya ndetse n'isuku yabo.

Umubyeyi avuye kuvoma amazi. Yikoreye indobo imwe y'umutuku, indi y'umuhondo ayifite mu ntoki. Yambaye igitenge aragikenyeye ndetse n'ishati irimo umuhondo.

Inama yahuriwemo n'abantu b'ingeri zitandukanye, aba bantu bose bambaye amabaji, bisa naho kwinjira muri iyi nama ugomba kuba ufite ikikuranga, harimo umuzungu ndetse n'umupapa wicaye imbere wambaye ibintu by'icyatsi ubyibushye cyane.

Abana bari ahantu ku kigo cy'amashuri, bambaye impuzankano bamwe bambaye amashati y'umweru, abandi bambaye amashati y'icyatsi, aba bana bari kuri robine barimo kunywesha amazi intoki. Ni byiza kwigisha abana kugira isuku kugira ngo ntibazajye bahuriramo n'indwara.

Umusaza ukuze cyane afite imvi zuzuye umutwe, afite ingofero, yari yambaye ikote ariko yarikuyemo ariko yarikuyemo kugira ngo atange akaboko bamupime, arimo aritabwaho n'umuganga wambaye agapira mo imbere k'icyatsi ndetse n'itaburiya y'ubururu.

Abantu bane basa n'aho bari mu nama. Ni abagabo babiri n'abagore babiri, abagabo ni bo bari ku mpande, umugabo umwe yambaye baji mu ijosi y'icyatsi ndetse afite na mudasobwa imbere ye, abo bose bafite amacupa y'amazi imbere yabo.

Abantu benshi bateraniye ahantu ubona ko bari mu nama, bose barimo kure imbere ndetse hari n'abandi bicaye imbere barimo gutanga ikiganiro, ku ruhande hari Minisitiri w'Ubuzima.

Abantu benshi bacucikiranije bateraniye muri sale. Bisa naho baje kwiga ku bintu runaka, by'umwihariko bigendanye n'ubuzima bwabo, kuko urabona harimo abagabo n'abagore.

Umuryango ufite izina riri mu cyongereza witwa Unicef, urimo urakangurira abantu kwivuza no kugira ubuzima bwiza, aha ngaha abarimo barabyamamaza ni urubyiruko rukiri rutoya, harimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Abantu bambaye udupfukamunwa bisa n'aho cyari igihe cya kovide, bari barimo guha umwana umuti, bigaragara ko umubyeyi we yamurebesheje hejuru, aramwasamisha kugira ngo umujyanama w'ubuzima, amushyirire akanini mu kanwa.

Igihugu cya Carolina y'amajyaruguru, gifite ikigo cyita ku buzima, aho mu myaka ibiri ishize bazanye inkunga y'inkingo ndetse n'imiti mu Rwanda.

Umuforomokazi wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikanzu y'ubururu arimo aravura umubyeyi usa nkaho ari mukuru ukuntu ukuze wambaye agapfukamunwa k'umukara ingofero ndetse n'agapira k'umukara.

Umwana arimo aravoma kuri kano, arimo aravomera mu gikombe, bisa naho ashobora kuba uno mwana agiye kunywa aya mazi, ntabwo ari byiza kunywa amazi adatetse cyangwa atameze neza atarimo umuti.

Abamama baje gukingiza abana babo kwa muganga, harimo umwe uri konsa umwana, harimo undi wambaye agapira k'umutuku, n'undi washyize isakoshi hasi, n'undi wambaye igitenge kirimo icyatsi.

Amazi adaturutse muri robine nta ho aba atandukaniye na ruhurura, abana batatu b'abahungu bagiye kuvoma aya mazi barayavoma badaha, bishatse kuvuga ko bashatse kuyakoresha bitari ukoga cyangwa kumesa byabatera indwara.

Abantu benshi cyane, harimo abagore, abagabo, ariko bose abenshi muri bo abagore baritandiye, abandi bagabo bambaye ingofero, sinzi impamvu bitwikiriye mu mutwe bose.

Ahantu mu ivuriro hari umuntu uhagaze wambaye ibintu by'umukara, bisa nk'aho ari isurubeti y'umukara ndetse n'ingofero y'umweru, ni ahantu abarwayi bajya kugira ngo baharuhukire mu mutwe kandi babone ishusho ngari y'ubuzima.

Umubyeyi wajyanye umwana we kwa muganga kugira ngo bamusuzume barebe icyo arwaye, umubyeyi yambaye ikanzu y'igitenge y'icyatsi, igitambaro mu mutwe kirimo ubururu n'umutuku. Umuforomo arimo arasuzuma uno mwana amukora mu irugu ashaka kumenya icyo arwaye.

Umwana uri ku mugezi arimo koza indobo n'izindi ziri ku ruhande agiye kuvomeramo amazi, inyuma ye hateye ibiti birimo...

Ababyeyi batwite ndetse n'abafite abana b'impinja, bakwiriye kwigishwa uko umwana akwiriye kurya indyo yuzuye. Abenshi babagaburira nk'uko bagaburira abandi bana bakuru, kandi abana bari munsi y'umwaka bakwiriye kwitabwaho by'umwihariko.

Ku ivomero aho abantu bavomera amazi, hari abantu benshi bashungereye basa n'abashungereye, umwana umwe wenyine ni we uri imbere ufashe ijerekani kugira ngo ijyemo amazi n'undi mumama umwe ari inyuma arimo arapomba kugira ngo amazi ajyemo.

Inzobere mu by'ubuvuzi, abaforomo, abaganga ndetse n'abandi bantu batandukanye, bari mu bushakashatsi, barimo barareba imiti n'icyo igiye ivura kugira ngo batazajya baha umurwayi imiti itajyanye n'icyo arwaye.

Nyuma y'uko inama iteranye yiga ku cyorezo cya Marburg ko abantu bashobora kuyirinda ndetse n'uburyo bakwiye gukoresha babyigisha abandi, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda yari arimo yemeranyaho n'undi mugabo ubishinzwe.

Inama yabereye muri Sudani y'amajyepfo ni inama yagarutse ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'imibereho myiza y'abantu, yakoreshejwe n'abagabo babiri. Umwe yambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu ndetse na karavate, undi yambaye ikote ry'umweru, barimo barabagira inama ndetse babatega n’amatwi kugira ngo bumve ibibazo biri hagati mu bo bayobora.

Uburyo bwo gukumira mu kurwanya ugutwita kw'abangavu. Ni inama yateranye ivuga kuri iyo nsanganyamatsiko yahuje abantu benshi harimo abaganga ndetse n'abantu basanzwe.

Abana benshi baje ku ivomero, basa naho barikikije umwe arimo arapompa kugira ngo amazi aze, undi w'umukobwa wambaye inkweto z'umutuku n'agapira k'umutuku n'ijipo ya kaki, ari imbere arimo kuvoma amazi.

Abaganga bavanze barimo n'abaforomokazi n'abaforomo bambaye impuzankano bose bambaye amataburiya y'umweru, abagabo benshi barimo bambaye amapantaro y'umukara, abamama bambaye imituku ikanzu y'umutuku ndetse n'ijipo y'umutuku barishimye barimo barifotoza.

Ku ivomero hari abantu bagiye kuvoma ariko biganjemo abana. Ubona ko ari abana bari mu kigero nk'icy'imyaka ine, itanu, itandatu, gusa kurirobein yafasheho umuhungu mukuru ufite ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ku ruhande hari n'undi mwana w'umukobwa wambaye akajipo k'umutuku ndetse n'agapira k'umweru, ubona ko nubwo baje kuvoma aya amazi, aya mazi nta suku afite.

Umwana wambaye impuzankano w'ishuri yambaye ikabutura ijya gusa nk'ivu ndetse n'ishati nubwo ari nini y'ubururu. Arimo aragerageza gufungura ku ndobo iriho robine kugira ngo akarabe intoki.

Umuntu urimo koga intoki n'amazi meza n'isabune, amazi arimo araturuka mu ndobo isa ubururu ndetse isabune y'umweru iri ku ruhande, ni byiza kugira isuku dukaraba amazi meza n'isabune.

Umwana wagiye kuri kanano aho bavomera ajyana indobo yo kuvomeramo, akaba atezeho intoki akanywa amazi yaho, ni byiza ko twita kuri ibi bintu tukabuza abana bacu kunywa amazi atari meza kuko ateza ibibazo by'uburwayi.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu, n'amakarita mu ijosi, n'uwambaye umwenda w'umweru. Hagati yabo harimo umugabo wambaye umwenda w'umukara.

Umukobwa ubona ateye neza arimo araseka afite umusatsi mukeya, yambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'umutuku, urabona ko asa n'uri mu mirimo yo mu rugo, aho arimo aravoma, hanyuma yarangiza akamesa.

Akana k'agahungu kavuye ku ishuri, kambaye impuzankano hasi umutuku, hejuru agapira karimo umweru n'umutuku, mbere yo kwinjira mu nzu abanje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Abantu b'abana bakiri batoya ubona ko bari mu kigero kimwe nk'imyaka umunani, icyenda, icumi. Bagiye kurikana kuvoma ariko barangaye aho kugira ngo bafate ijerekani batetegeho neza amazi arimo ameneka hasi.

Umumama wambaye amaherena, asutse ibisuko biboshye yambaye taburiya y'umweru bisa nkaho ari umujyanama w'ubuzima, kuko arimo kwita ku mwana w'umubyeyi wamuganye amuha umuti.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ni ubuzima. Bitewe n'uko umuntu aba yakoze ahantu henshi hatandukanye kandi ibyorezo byinshi bisigaye biza ni ibyorezo biterwa n'umwanda kandi byanduzanya ni byiza rero gukaraba intoki.

Umwana w'umukobwa mukuru ubona afite imyaka nka cumi n'itanu, ari kumwe n'akandi kana gato gafite nk'imyaka itanu k'agahungu, bagiye kuvoma ariko ahantu barimo kuvomera ni amazi ya ruhurura.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, bari mu ngeri zitandukanye, hari abakobwa, hari abahungu, abenshi biganjemo abambaye udupira tw'icyatsi ndetse abandi imipira y'umweru.

Umugabo wambaye ijire y'umukara n'umupira w'umutuku, undi mugabo ari kuruhande rwe yambaye ishati y'umweru, imbere yabo hari umugabo wicaye w'umusiramu wambaye akantu k'akagozi mu ijosi k'icyatsi, ndetse n'umupira w'umweru n'umukara.

Umujyanama w'ubuzima w'umumama yagiye gusura umuryango w'umugore n'umugabo bakiri bato bamaze igihe gito bashakanye. Bateye udutebe hanze baricara arimo arabwira ibyiza by'uko umugore akwiriye kujya ajya kwa muganga buri kwezi kwipimisha inda.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya, asutse udusuko dutoya, yambaye agakanzu k'igitenge, afite icupa mu ntoki, arimo aragerageza kurivomeramo amazi.

Abagabo bagera kuri batatu, inyuma yabo hari umumama w'umuzungu, abo bagabo umwe wo hagati ni muremure cyane urabona ko abasumba bose, bambaye neza bisa nkaho bari bitabiriye inama runaka.

Udukarito twinshi tw'icyatsi tugiye tugerekeranyije n'icyatsi n'umweru mukeya, turimo imit, ku ruhande ahagaze umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye agashati k'icyatsi ku rundi ruhande ugaruka hino hari umusaza ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Aha ni ku ivuriro, aho ari mu cyumba kimwe umurwayi arwariyemo, uyu murwayi bisa nkaho arwaye indwara ikomeye bitewe n'uko hari abaforomo barenze batatu, bose bambaye impuzankano z'ubururu, udupfukamunwa bose ku munwa.

Umuforomo cyangwa umujyanama w'ubuzima wambaye itabura ry'ubururu, arimo arereka cyangwa arigisha, umubyeyi wambaye igitenge n'agapira k'umuhondo uko yajya yita ku bana be kugeza bakuze.

Abantu bakiri bato, urubyiruko rwiganjemo abahungu aho ari abahungu bane ndetse n'umukobwa umwe, batatu bambaye amataburiya y'umweru, abandi babiri bambaye udushati tw'ubururu.

Mu cyaro iyo bamaze koza ibyombo hari akantu baba barubatse bakita agatanda babyubikaho, ntagobe byujuje ubuziranenge ijana ku ijana gusa baba birinda indwara ziterwa no kunywera mu bintu bitumutse.

Abantu babiri, harimo umwana uri kuvomera amazi mu ndobo n'umugabo wambaye ikoboyi n'umupira w'uburur,u ufite agatambaro mu ntoki.

Gukingiza abana ni igikorwa cyatangiye cyera, aho urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima basobanukiwe icyiza cyo gukingira abana, aha rero ni ihuriro ryabo, aho bagiye kubakingiza.

Isuku ni nziza mu buzima, kandi bakunda kuvuga ngo isuku igira isoko. Umuntu arimo arakarara intoki, arimo arisukura bisa n'aho yihangiye ubwenge, bwo gufata akajerekani gato akagashyira ku biti bibiri kugira ngo ajye abasha gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Imodoka y'Imbangukiragutabara bakunda kwita Ambulance, ije ahantu hari hateraniye abantu benshi, bisa nkaho hari umuntu wahagiriye ikibazo bityo barayitabaza.

Umwana w'umuhungu uri ku ivomero, yambaye ikabutura y'umukara, agashati k'icyatsi, arimo aravomera kuri robine ifite amabara y'ubururu, ku kuruhande hari indobo ebyiri, kuruhande rw'ahagana hino no ku ruhande rw'ahagana hirya. Arimo arakaraba intoki.

Umusore wambaye rinete, yambaye umupira w'akazi aho ubona ko ari umupira wa oranje, arimo araganiriza ndetse agerageza no gukinisha umumama n'umwana we.

Abana bakiri batoya benshi cyane ubona ko bose bakiri mu myaka munsi y'imyaka umunani, bahuriye kuri kano bose barimo baragerageza gukora ku mazi kugira ngo bakarabe intoki.

Abamama bane bose biteze ibitambaro uretse umumama umwe wenyine utiteze igitambaro, umumama uri imbere yambaye amaherena y'ibizeru, yambaye ijipo y'icyatsi ndetse n'agapira.

Abaturage abenshi baricaye, abagabo babiri barahagaze, umwe ahagaze inyuma undi ahagaze imbere yabo, afite ikayi n'ikaramu mu ntoki bisa naho hari ibyo arimo arabigisha.

Abantu benshi ubona ko ari itsinda bishyize hamwe bakajya gusura ikigo cy'inshuke, urabona ko ari utwana tukiri dutoya turikiri munsi y'imyaka icumi ndetse n'abo bantu baje kureba imibereho yabo ku ishuri.

Umumama wagiye kuri kano kuvoma, yambaye umupira w'amaboko maremare usa nkaho ari uw'imbeho yambaye ingofero byose ni icyatsi cyerurutse ndetse akeneyenye n'igitenge arimo aravoma, ni byiza ko twita ku isuku y'amazi.

Abantu batatu, harimo umwana umwe, umusaza n'umuganga, usa nkaho ari kuganiriza umusaza, yambaye agapfukamunwa k'umweru, n'umusaza yambaye ingofero y'umweru.

Abana bagera kuri bane bose ni abahungu. Harimo uwambaye agapira k'umutuku, hari uwambaye agapira k'icyatsi, undi yambaye agasengeri, undi yambaye agapira k'ubururu, bagiye kuvoma.

Kuvomera ahantu abantu bavoma amazi, hakwiye kuba hateguye neza hakoreye isuku kugira ngo ayo mazi abantu batwara bagende babe bayakoresha ibintu bitandukanye, harimo nko guteka, kwikorera isuku bo ubwabo n'ibindi.

Umwana w'umuhungu urimo kugerageza kwita ku isuku ye y'intoki, ni byiza ko yamenye umumaro wo gukaraba intoki mu gihe agiye gukora ikintu runaka cyangwa arangije gukora ikintu runaka. Ni byiza ko natwe uyu muco tuwiga.

Umubyeyi yatwaye umwana kwa muganga ni byiza gutwara umwana kwa muganga vuba akigaragaza ibimenyetso by'uko arwaye bituma indwara bayifatirana itarakura hanyuma agakira ku buryo bwihuse kandi ikindi ni byiza ko umuti wamuhaye ugomba kumukurikirana akawumara.

Abana babiri ubona bakiri batoya, umwe yambaye isarubeti y'icyatsi, undi yambaye agapira k'umutuku, bari kuri kano barimo barakaraba intoki barasutamye urabona ko bose bishimye.

Ahantu harimo harabera inama harimo abantu batandukanye abagore ndetse n'abagabo, bose imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, udukayi ndetse n'udukara bisa naho barimo bariga ku kintu cy'ingenzi.

Abantu umunani harimo abagore bane n'abagabo bane, imbere yabo hari udupapuro twandikishijeho ikaramu y'ubururu, ku meza hateretseho amazi, harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Umwana muto, nubwo atari muto cyane, yambaye imyenda y'ibitenge by'umutuku, afite imisatsi iryamye ku mutwe we, iboshye. Arimo arakaraba intoki, bisa nkaho iwabo bamwigishije umuco mwiza wo gukaraba intoki. N'amazi meza n'isabune.

Umubyeyi ateruye umwana we, umubyeyi yambaye imyenda y'ibitenge ndetse yiteze n'igitambaro gisa n'ibyo bitenge, afite ifishi y'umwana mu ntoki ze.

Inzu nziza yubatse neza nini cyane. Ni inzu itari imwe ahubwo ni inzu zitandukanye icyakoze zifite zifitanye isano. Hari inzu yubatswe mu buryo bw'uruziga ndetse n'indi yubatse mu buryo busanzwe.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza, cyubatse mu buryo bw'amagorofa, ni cyiza kuko gifite imiryango myinshi cyane, abantu benshi bashobora kujya kwakirayo serivisi bakabona aho bajya, ntabwo ari nka bya bigo nderabuzima byuzura abandi bantu bagategereza.

Abana benshi bicaye hamwe, bicaye barebana barambuye amaguru, abenshi bambaye imipira isa ubururu, yanditseho amagambo ayo magambo yandikishijwe umweru, ndetse abandi bambaye udupira tw'imihondo. Harimo n'umuzungu.

Umurwayi urwaye aryamye ku gatanda yambaye agapfukamunwa ndetse n'ikanzu y'ubururu, ku ruhande hari umuforomo nawe wambaye agapfukamunwa arimo arumviriza mu nda ikibazo yab'afite.

Umwana urimo kogera kuri robine, ni umwana ubona ko akiri mutoya, mu myaka itandatu, irindwi, yambaye umupira w'ubururu urimo uturongogo tw'umukara ndetse n'ipantaro y'icyatsi.

Inzu imanitseho icyapa imbere yinzu hahagaze abarimu bambaye amakanzu y'umweru, bambaye n'amakarita mu ijosi harimo umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ijipo itukura.

Abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bose bambaye udupfukamunwa ku meza hateretse mudasobwa, bisa nkaho bagiye gufata amabwiriza agenga ubuzima bwabo.

Abagabo batandukanye bagera muri umunani bicaye ku meza, imeza ibari hagati, barayizengurutse, ku meza yateretseho imitobe, amazi, amakayi, amakaramu.

Abantu bari mu nama, muri iyo nama yateranyirijwemo n'abantu benshi, hari abashinzwe iby'ubuzima, hari abashinzwe umutekano nk'umupolisi ndetse hari akana gato cyane kabicaye imbere.

Ivuriro ryiza ryita ku barwayi, hari umukobwa wagiye kwivurizayo, umukobwa wateze igitambaro mu mutwe kugira ngo umusatsi we ahari ushobora kuba ari muremure utabangama, arimo kwitabwaho n'abaganga babiri.

Inama igannye ku musozo barasohotse bahita bafata ifoto y'urwibutso. Ni abantu batandukanye bisa n'aho harimo abantu batanga serivisi zo kwa muganga nk'abaforomo n'abandi.

Minisitiri w'ubuzima ku rwego rw'isi, minisitiri w'ubuzima mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bahuriye hamwe bahujwe no kuganira ku cyorezo cya mabeg ntabwo aribo bonyine uko ari babiri ahubwo hari n'abandi benshi cyane baje mu nama biganjemo abaganga ndetse n'abaforomo.

Abantu bari mu nama biganjemo abagore ndetse n'abagabo, umugore wo hino afite umusatsi w'umutuku ndetse hari undi ku ruhande ufite mudasobwa imbere ku meza.

Iama yateranye, iteranijwe n'abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye, higanjemo abagabo bambaye neza amakositime na karuvati, aba bantu barimo kwiga ku kibazo kigendanye n'ubuzima, by'umwihariko bw'abana bakiri bato.

Ikirangantego gishushanyijeho umugore n'umwana. Umugore n'umwana ni abantu bahuje cyane by'umwihariko iyo umwana atarakura akiri mutoya, umugore aba amufiteho inshingano ijana ku ijana nk'uko yakwita ku buzima bwe bwite, agomba no kwita ku bw'umwana.

Abana barimo kunywa amata, hari abantu bakuru barimo kuyanbanywesha, bambaye imipira bose y'irose, bisa naho ari nk'ikigo cyangwa umuryango waje gufasha abana babaha amata, babaha ibyo kurya bakomeza umubiri.

Abana benshi batoya barishimye, banaranezerewe, bisa n’aho bagiye kwiga ku bijyanye n’ubuzima, bambaye impuzankano yo ku ishuri ryabo, aho bambara imipira isa imihondo, no hasi bakambara icyatsi.

Umwana wawe iyo wamwitayeho ntasonze ntagire inzara, ukamutegura ukamujyana ku ishuri agira umunezero mwinshi iyo ariyo ndetse n'ibyo yize akabifata bitewe nuko nta kintu abura mu buzima bwe.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, kiramenyesha abantu bose ko hari amahirwe yagaragaye ko bazaza gusuzuma ndetse no gutanga inkingo za Kanseri muri buri Murenge.

Abantu benshi bafite ibibazo by'ubuzima cyangwa ibibazo bitari iby'ubuzima, akenshi bahurira ku kintu kimwe cy'ingenzi baba bakwiriye kugira ari yo mahoro yo mu mutima, bakwiriye gutuza mbese ibyo babonye byose bakabyakirana umutuzo.

Umuntu yambaye imyenda isa nabi, yambaye imyenda icikaguritse, imisatsi ntaheruka kwiyogoshesha ndetse yambaye n'ibirenge bisa naho yataye umutwe, ni ko Abanyarwanda bakunda kuvuga.

Abana bababaye ubona ko batishimye na gato, ni abana ubona ko ari abakene pe! barimo bararira bisa n'aho bishwe n'inzara, niyo mpamvu akenshi bakunda kugaruka ku ngingo igihugu cyacu cy'u Rwanda gikunda kuvuga ngo: "tujye tubyara abo tugomba kurera".

Umukecuru ubona ko akuze yiteze igitambaro cy'umweru, yambaye urunigi mu ijosi, hejuru ubona ko atambaye, arimo arareba ku ruhande bisa nkaho ibyo abona atabyishimiye.

Ikirango kiriho umuntu usa naho arimo kucyamamaza, yambaye agapfukamunwa, yambaye umupira w'umukara ahetse ibaga ya shokora ndetse'agatambaro mu mutwe k'umukara.

Abakobwa batatu bambaye udupfukamunwa ubona ko barimo kwiga nk'kintu runaka, uko bigaragara ntabwo bahuye bisanzwe ahubwo bahujwe no kwiga ikintu runaka kuko urabona ko umwe arasa naho ababwira n'abandi bameze nkaho bamuteze amatwi.

Umwana w'umwirabura bigaragara ko atishimye, arimo ararira afite amaso yatukuye ndetse no mu maso urabona ko yijimye mbese yarakaye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda rbc ,uyu munsi kiraza kuganira ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abana ndetse n'abangavu n'ingimbi cyangwa n'urubyiruko muri rusange.

mento halufu sevise ini Rwanda, ikigo igihugu gishinzwe ubuzima cyashyize umwanya w'uko abantu bahurira hamwe bagatanga ibitekerezo ku bigendanye n'ibibazo byo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe abantu bakunzeshi gusanga bafite.

Umugabo wirabura cyane yambaye imyenda ubona ko idakorewe isuku, yambaye ibirenge ntiyambaye inkweto bisa nk'aho ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ari mu muhanda yahagazemo afashe hasi.

Umusore ufite umusatsi mukeya, yambaye umupira w'umuhondo, arimo araseka ukabona amaso arabuze ariko arimo kubiterwa no guseka cyane bitewe nuko yakoze isuku mu menyo ye.

Umugabo usa nkukuze yambaye ikositimu z'umukara, arimo arunamira abantu bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi. Dukwiriye twese kubigira ibyacu kuko turi abanyarwanda.

Umuntu wicaye wambaye imyenda icitse, usa nabi cyane, wambaye ingofero y'umukara, imyenda y'umukara, afite ibintu mu ntoki bisa nkaho ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko umuntu nk'uyu bamwitaho hakiri kare atarasara cyane.

Mu Rwanda hakozwe ubushakashatsi umwaka ushize mu kwezi kwa cumi n'abiri, babona ubwiyongere bw'abantu bashaka kwiyahura bafite intekerezo zo kwiyahura bugenda bugabanuka.

Abantu benshi bicaye bisa nk'aho bicaye mu nama, harimo aba mama, abakobwa, abasore, abagabo n'abandi batandukanye.

Umubyeyi ufite akana kakiri gatoya, ni umama ubona ko afite umusatsi mukeya, yambaye umupira w'umweru, aterureye umwana we mu ntoki, yamukinishije arimo araseka.

Aho abapolisi bivuriza. Ni ku kigo nderabuzima cyitwa Isange, aho utwara ubwishingizi ufite ubwishingizi abapolisi bakoresha hanyuma bagahabwa ubuvuzi.

Ibitaro bya CARAES ni ibitaro abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe bajya kwivurizamo. Aha ngaha ntabwo bisaba gusa kugira ngo umuntu abe afite ikibazo cyihariye, ahubwo n'iyo arwara umutwe udakira niho ajya kwivuriza.

Umubyeyi ukiri mutoya wikoreye igitebo. Icyo gitebo harimo ibishyimbo avuye gukura mu murima, yiteze igitambaro, yambaye umupira w'imbeho ndetse arishimye.

Abantu babiri biyicariye bisa naho barimo barakora ibintu runaka, umukobwa yambaye igitambaro mu mutwe cy'ubururu, umupira w'icyatsi urimo umutuku ndetse n'ijipo y'igitenge, umugabo ari ku ruhande rwe yambaye umupira w'ubururu. Imbere yabo hateretse amazi, igicupa kinini cy'amazi, bisa naho ahari barimo baraganira ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bari mu isoko, harimo umumama ufite inkwi mu ntoki, imbere ye hari akana gatoya, inyuma ye hari umu umugabo ufite injerekani ku rutugu, imbere ye hari umwana uri kurira wikoreye amaboko.

Abantu benshi ubona ko biganjemo abantu bakuze urebye nta bantu barimo nko munsi y'imyaka cumi n'itanu ntabarimo, bifotoje nyuma y'uko bakoze inama iganira kuby'ubuzima.

Urubyiruko ubona ko ari abahungu n'abakobwa bakiri batoya, bambaye imyenda bose isa hejuru, imipira y'ubururu, bisa nkaho hari inama bari bahuriyemo. Hari umuntu w'umugabo mukuru wambaye ishati y'umweru hagati yabo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda "RBC", kirimo kiratanga amahugurwa ku baturage, hari ibiganiro bimaze iminsi bitangwa, bivuga uko umwana akwiriye kujya ahabwa indyo yuzuye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu benshi bishimye basa nkaho barimo kuririmba biganjemo abamama, umumama umwe uri imbere afite umusatsi uboshye, yambaye amaherena, arimo araseka, yambaye igitenge kirimo amabara umutuku, umuhondo, umukara na move.

Abamama bane bicaye ku ntebe yabo ndetse n'umugabo usa n'ubicaye imbere na we ku ntebe ye, baratuje, umwe afite umumama muri abo bane afite agakayi, arimo arandika bisa n'aho barimo baraganira ku kibazo cyo mu mutwe. Ibibazo byo mu mutwe biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, harimo gukomeretswa, kubabazwa n'ibindi.

Umusaza ukuze cyane. Agomba kuba afite nk'imyaka mirongo irindwi cyangwa mirongo inani, ubona ko yakutse amenyo ane y'imbere, n'ane y'imbere hasi, Amenyo ye arasa umuhondo, bisa n'aho mu minsi yamaze atayitayeho.

Abantu benshi barimo abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'abahungu, bafite icyapa cyanditseho ubutumwa bageneraga abantu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Aba bantu barishimye barimo baraseka, urabona ko rwose bageze ku cyo bifuzaga kugeraho.

Abantu benshi batandukanye, bahuriye hamwe bahujwe no gutera ibiti. Ibi biti barimo baratera ntabwo ari ibiti bisanzwe, ni ibiti bivamo umuti. Ibi biti rero ni ingenzi ku buzima kuko iyo bimaze gukura bikurwamo imiti.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC arimo arahugura abantu, aho arimo arababwira icyiza cyo kwirinda indwara zitandura ndetse n'izandura zanduriye ahantu hatandukanye abantu bitera.

Imodoka yo kwa muganga yazanye ibikoresho runaka, hari abantu bicaye aho hafi yabo, barimo baraganirira mu matsinda, ahari n'ukuntu umuntu agiye azi undi.

Umujyanama w'ubuzima ubizobereyemo yafashe ibikoresho bye nka telephone ndetse n'akuma ko kwa muganga bamuhaye kugira ngo ajye apimisha ubuzima bw'abantu akurikirana uko bimeze, yapimye umwe mu ba mama cyangwa mu bagore arimo arakurikirana arimo aramwereka ibisubizo.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo aba papa, aba mama, abakobwa ndetse n'umuntu umwe urimo ushinzwe umutekano cyangwa twavuga ngo w'umupolisi, bavuye ku bitaro bya Kacyiru ku kwiga ku kibazo cy'ubuzima.

Mysol ni ubwishingizi umuntu ahabwa cyangwa afata, hanyuma bukazajya bumufasha mu buzima bwa buri munsi by'umwihariko ibigendanye n'ubuvuzi.

Ababyeyi batatu bose bafite ibikoni mu ntoki bose bikeneye ibitenge ndetse bambaye n'ibitenge mu mutwe, umwe uri imbere afite umwana arimo aramwosa ni ababyeyi ubona n'ubwo atari abakungu cyane ariko baranezerewe.

Abagore n'abagabo harimo umugore wambaye ijipo y'icyatsi n'inkweto z'umukara, harimo n'undi wambaye ijipo y'umukara n'agapira ka shokora, harimo umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'ishati y'umweru.

Umugabo wambaye ishati, ishati iriho amapesu atatu, ifite amaboko maremare ndetse igeze mu ijosi neza, inyuma ye urabona ko hari abandi bantu benshi batandukanye.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara umuhondo, umutuku, kaki, icyatsi, afite indangururamajwi mu ntoki, afite imisatsi miremire ndetse yicaranye n'umugabo ku ruhande.

Umusaza ubona ko ageze mu zabukuru, wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara, umusaza ubona ko akuze ku rwego yatangiye gukuka amenyo, amenyo y'imbere ntayo afite. Yambaye igitambaro yikenyeye nk'umukenyero cy'umuhondo ndetse n'ingofero.

Abantu bari mu nama bateraniye mu cyumba runaka gihurizwamo inama, imbere yabo hari umubyeyi urimo urabahugura, ku bigendanye n'ibyo baje kwigaho, urabona ko bose bamukurikiye uretse umuma umwe wenyine usa n'aho areba muri telefoni.

Umuganga arimo aravura umurwayi, umurwayi aryamye ku gatanda bisa naho arwaye amenyo cyangwa se afite ibindi bibazo mu kanwa, muganga yambaye ga z'umweru.

Umusore ukiri mutoya arimo arakorera isuku amenyo ye. Aha ngaha noneho ntabwo arimo gukoresha ibyo dusanzwe tumenyereye nk'uburoso n'umuti w'amenyo, ahubwo arimo arakoresha urudodo.

Umusaza yarwaye amenyo ajya kwa muganga kuyivuza. Yahuye n'umusore w'umuganga wambaye imyenda y'akazi, itaburiya, yambaye karuvati y'umutuku, arimo aramukura iryinyo.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka nk'icumi, cumi n'ibiri, cumi n'itatu gutyo, umuganga arimo aramukura iryinyo, bisa n'aho yatinze kwerekana ko iri ryinyo rifite ikibazo bakaba bagiye kurikura.

Gukorera amenyo isuku ni byiza bitewe nuko birinda umuntu kuba yarwara amenyo bakayakura n'ibindi bitandukanye, abantu babiri barimo barisukura bakoresheje urudodo rukora isuku mu menyo.

Umuntu wambaye umupira w'umweru afite akadodo mu ntoki arimo aragakoresha akora isuku mu kanwa. Arimo arabikora ibyo ngibyo yirebera mu ndorerwamo kugira ngo arebe niba arimo kubikora neza.

Hari utwuma bashyira mu kanwa, bakadushyira mu menyo, bakaturinganiza na yo kugira ngo amenyo akomere kugira ngo amenyo areke kujegera ndetse bishobora kuviramo umuntu kuyakuka.

Umuntu w'umuhungu w'inzobe arimo arakorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, afite akanyinya gatoya, mu kanwa h'umutuku ndetse n'amenyo meza y'umweru.

Umurwayi yagannye kwa muganga kugira ngo bamurebere ikibazo afite mu menyo ndetse nibishoboka ayogeshe, umuforomokazi arimo aramwitaho, aho rwose ubona bahuje.

Umwana ukiri muto si mukuru cyane ashobora kuba arwaye iryinyo, umuganga afite utwuma tubiri twabugenewe, yambaye ga ndetse n'itaburiya by'umweru, arimo aramurebera ikibazo yaba afite kugira ngo bakivure.

Umuganga arimo arapima imiti ashaka guha umurwayi yafashije. Ni umuganga ubona ko yifurebye yambaye amarinete, agapfukamunwa k'umweru ndetse n'itariya.

Ku kigo cy'amashuri hatangijwe ubukangurambaga bwigisha abana ndetse bukabahugura, ku bijyanye no kwita ku menyo, abafite ikibazo, abo bataragira ikibazo cy'amenyo, bakagana kwa muganga kandi bakanayakorera isuku.

Ikibazo cyo mu kanwa kikunda kugirwa n'abantu benshi cyane bitewe n'uko abantu benshi batazi kwita kuri ibi bibazo byo mu kanwa usanga batita ku kuborosa buri munsi, batita kugenda kwa muganga kuko kwisuzumisha buri gihe ibyo bigatera ikibazo cy'amenyo.

Umukobwa useka neza cyane, afite amenyo akeye bisa nkaho arimo arigisha abantu gukorera isuku amenyo yabo. Abantu bakwiriye gukorera isuku amenyo yabo, bakoresha uburoso bwiza n'umuti w'amenyo mwiza.

Akana kakiri gatoya k'agakobwa gafite umusatsi mwinshi, bakajyanye kwa muganga aho barimo kukitaho bakarebera ibibazo by'amenyo gafite. Ntabwo ari byiza kugaburira umwana amabombo menshi cyangwa ibintu biryohereye cyane kuko bimwica amenyo cyane ko aba atarakomera.

Umupapa wirabura ufite inyinya ntoya arimo arakorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, abantu benshi ntibazi iri banga, ariko mu by'ukuri uru rudodo ni rwiza mu kugufasha gukora isuku mu menyo yawe.

Isuzumiro ry'amenyo, ririmo intebe, harimo n'agatanda umurwayi aryamaho bari kumusuzuma, hamanitsemo n'isaaha.

Umurwayi yagiye kwivuza amenyo bamwitaho barayoza barayavura bashyiramo n'umuti, none ubu ngubu arimo arireba, bamuhaye indorerwamo kugira ngo yirebe arebe uko ameze, urabona ko anezerewe yishimiye uburyo bamuvuyemo.

Umusore ufite urudodo mu ntoki, ni urudodo rw'umweru rurerure arimo ararukoza ku menyo bisa nk'aho arimo arakoresha isuku mu kanwa urwo rudodo.

Umuntu wakutse iryinyo ubona ko ni iryinyo ritacikiyemo hagati ahubwo ryarimbukiye rimwe. Ni byiza ko twivuza amenyo kare hataragira ibibazo kugira ngo kwa muganga babe bayakuramo yose.

Abana batoya barimo barigishwa gukora isuku mu menyo, gukorera amenyo yabo isuku bose bafite uburoso bw'amenyo, bafite umuti w'amenyo barimo baroza amenyo kugira ngo bakurane uwo muco.

Iyo umuntu agiye kwa muganga, bamushyira mu cyuma cyerekana uko amenyo ye yose ateye, afite ikibazo, ameze neza, akwiriye gukurwa cyangwa kwitabwaho n'ibindi. Ni byiza rero ko tujya kwa muganga tukisuzumisha.

Abana benshi, ubona ko bashobora kuba biga mu mashuri y'incuke, bambaye impuzankano z'icyatsi hasi, hejuru ni icyatsi kirimo uturongo tw'umweru. Barimo barakorera isuku amenyo.

Akenshi abantu bakoresha uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo kugira ngo bikorere isuka amenyo yabo ariko ntabwo bajya bibuka ko hari n'akadodo umuntu akoresha kugira ngo akore umwanda hagati y'iryinyo n'irindi, aka kadodo nako ni ingenzi iyo umuntu arimo akorera isuku amenyo.

Umuganga wambaye ga z'umweru, agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'imyenda y'ubururu, arimo arita ku murwayi, umurwayi wambaye ikanzu y'icyatsi yambaye amaherena ndetse urabona ko arimo arakoresha utwuma gake gake adashaka kumubabaza.

Umuganga ufite akuma ndetse n'agakoresho gashushanyije nk'umuntu nk'amenyo y'umuntu n'ishinya, yambaye ga za pinki ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru.

Umuntu ufite udukoresho mu ntoki, yambaye umupira mwiza cyane wa runiga uri mu ibara ry'icyatsi. Afite utwo tuntu mu kuboko kwe kw'iburyo noneho arimo arakoresha ukw'ibumoso atwerekana.

Umusore w'inzobe uri mu myaka makumyabiri n'umunani, mirongo itatu, yambaye ikoboyi, ishati y'ikoboyi ndetse n'agapira mo imbere ka shokora, arimo araseka yishimiye ubuzima kubera ko akorera isuku amenyo ye.

Abaganga bagiye ku bigo by'amashuri gutanga amahugurwa no kwigisha ukuntu abana bakwiriye koza amenyo yabo n'uburoso bwiza n'umuti w'amenyo kugira ngo areke kurwaragurika kandi bayatindane.

Umukobwa ufite inzobe nziza, yambaye isengeri y'umweru, yiteze igitambaro cy'umweru, afite uburoso arimo ariborosa.

Abana mu ishuri bari kumwe n'umwarimu wabo. Bamwe bafite uburoso bw'amenyo, abandi bafite umuti w'amenyo, barabimanitse bisa n'aho uyu munsi bagiye kubigisha ibigendanye n'isuku y'amenyo.

Umukobwa ufite amenyo meza ari ku murongo y'umweru bisa naho afata igihe gihagije akita ku menyo ye ndetse n'isuku ye yo mu kanwa dukwiye kumufatiraho urugero twese kugira ngo dukomeze kugira isuku yo mu kanwa.

Umwana, aha barimo kumurebera mu kanwa ikibazo yaba afite, muganga arimo gukoresha akantu k'akuma, umwana yasamye yakamuteretse mu kanwa kugira ngo arebe niba ari ikibazo cy'ishinya cyangwa ari icy'amenyo.

Ubwoko bw'amenyo butondetse ku kantu ko kwa muganga gashinzwe gutondekwaho amenyo. Iyo umuntu avuyemo iryinyo bikaba ngombwa yuko ajya gutetereshamo irindi, baragenda bagafata iryinyo muri ayo ngayo bakamushiriraho.

Umukobwa mwiza ufite umusatsi mwiza utari muremure cyane, afite uburoso n'umuti w'amenyo arimo ariborosa arakorera isuku amenyo ye.

Icyumba cyo kwa muganga, aho bapimira umurwayi indwara arwaye, harimo ibikoresho bitandukanye, aho harimo intebe, udukarito ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu babiri bakora ku bitaro bahuriye ku murwayi umwe, umwe ni umuforomo undi ni umuganga, bose bambaye udupfukamunwa ndetse bose bambaye na rinete, bafite udukoresho mu ntoki ndetse na ga barazambaye barimo baravura umukobwa ufite ikibazo cy'amenyo.

Umuntu urimo araseka ariko cyane cyane yerekana amenyo kugira ngo yereke abantu uko bagakwiriye gukora isuku mu kanwa kabo, amenyo akaba akeye asa umweru nta kibazo afite.

Umusore yagiye kwivuza, umuganga arimo aramwitaho, aho arimo aramuvura anamuganiriza kugira ngo umurwayi atiheba, aba bombi barishimye.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, bimwe bifite amabara y'ubururu, ibindi bifite amabara y'umweru, imbere yaho hari ahantu bakarabira intoki dukunda kwita ravabo aho iyo umuntu ashaka koga akaraba.

Umusore ubona ko afite imyaka ikiri mikeya, afite ubwanwa bwinshi, hejuru ntabwo yambaye, afite akadodo, ako dukunda kwita akadodo ko kwifashisha gukora isuku mu menyo.

Umupapa mwiza wambaye lrinete ufite uruhu rwiza ubona ko arimo arikorera isuku ni byiza gukora isuku no kwiyitaho kuko bigufasha kudasaza vuba ugahorana itoto.

Umusaza wambaye rinete, arimo araseka, yambaye ishati y'ubururu, ari kumwe n'umuganga w'umukobwa na we yambaye imyenda y'imbere y'ubururu ndetse inyuma yambayeho agapira k'umweru.

Umukecuru yagiye kwivuza. Agezeyo bamuha umuganga mwiza cyane, w'umwana mwiza, ufite umutima mwiza, aramuvura, amuha serivise yashakaga zose, barishimye.

Umuforomokazi wambaye imyambaro y'ubururu, afite umusatsi muremure ariko atari muremure cyane, afite akuma cyangwa agakoresho bakoresha bapima umuntu uko umutima utera, arimo arita ku murwayi wicaye mu kagare w'umukecuru ukuze ukuntu usa n'aho arimo aramurebera ukuntu umutima utera.

Umuforomo arimo aravurana umusaza ineza itangaje, bose basetse bose bishimye. Ni byiza guha serivise umuntu umwishimiye cyane ko aba yakugannye agukeneye.

Abantu batatu ariko umwe ntabwo arimo aragaragara neza, uwo hagati afite umusatsi w'umweru, uwo ku ruhande yambaye umupira w'umutuku, afite umusatsi mwiza w'umukara, bisa naho aba bantu atari abirabura byuzuye.

Umuforomokazi arimo arita ku murwayi, umurwayi ni umugabo, yambaye isume arayikeneye ndetse mo imbere harimo ipantaro y'umutuku, bisa naho uyu muforomokazi w'umuzungukazi, arimo aramwigisha kugenda kugira ngo asubire mu buzima busanzwe.

Umusaza n'umukecuru bageranye mu zabukuru bishimanye, umukecuru yambaye amaherena n'umupira w'umutuku ndetse n'impeta, umusaza na we yambaye agakomo ku kuboko, umupira w'ubururu, arimo aramwereka ikinini bose baseka.

Umusaza ugeze mu zabukuru biragoye kumubona afite imbaraga zo kwikorera ibintutandukanye by'umwihariko nko koga n'ibindi. Umusaza ufite imvi nyinshi zose z'umweru barimo baramwoza.

Umusaza urimo kureba imiti, asa naho agiye kumira ibinini, umukecuru uri ku ruhande rwe wambaye umupira w'umutuku arimo aramusobanurira ibyiza byo kunywa iyo miti kandi akayinywera igihe.

Ni byiza kujya ku ivuriro ukisanzura ukavuga ibyo urwaye kugira ngo babashe kukuvura bagendeye ku bimenyetso wababwiye ufite n'ibibazo wowe ufite mu mubiri. Umuganga w'umukobwa arimo arafasha umusaza.

Siporo ni nziza mu buzima. Akenshi tujya tugirwa inama zo gukora siporo, ugasanga turimo turaziburira umwanya, kandi ni umwe mu miti ishobora gufasha ubuzima bwacu mu mubiri wacu, ku buryo tuba tayari mu mutwe ndetse no ku mubiri.

Umumama w'umusatsi muremure, yambaye amarinete, yambaye ikanzu y'umuhondo, bisa naho arimo gufata umuti, arimo arawufata yishimye kuko yizeye ko ari buhite akira.

Umuganga uri kwandikira umurwayi imiti, yambaye ishati y'icyatsi, afite imisatsi y'umweru ari kwandika mukayi y'umweru.

Umusaza mwiza cyane, yambaye ishati ifite ubururu bwijimye, afite telefone mu ntoki, arimo arereka umuganga ibintu bigiye bitandukanye, muganga ni umukobwa na we ni mwiza.

Ni byiza gukora akazi ukagakora nk'uko bikwiriye mu mwuzuro wakongo wagakwiye kugakor, ariko kandi ugafata umunsi cyangwa umwanya ukaruhuka abantu benshi bakorera mu biro bakunda guhura n'ikibazo cyo kurwara umutwe ukabije ndetse n'umunaniro ukabije kubera kutaruhuka ndetse no guhora mu biro no mu bitabo kenshi.

Abantu babiri umugore usa nkaho akuze ndetse n'umugabo wirabura, umugore yambaye agasa gatoya ku kuboko, afite imisatsi y'umweru bisa naho ari imvi, bari muri siporo.

Ni byiza kuvura umuntu umwitayeho umwereka ko akunzwe, umwereka ko uri inshuti ye, umumama yagiye kwivuza yambaye umupira wa orange ndetse n'ingofero y'umukara na rinete, umuforomo yamugize nk'inshuti arimo aramuvura biganirira.

Umusaza wambaye amarinete ndetse n'umukecuru uri ku ruhande, umusaza afite telefone mu ntoki, bisa n'aho hari ibintu by'ingenzi barimo gusoma bagira ngo bose barebere hamwe.

Umumama ari kumwe n'umukobwa we; barishimye umumama arimo aramukorera ikintu cyo kurya. Uyu mukobwa we yambaye agapira k'ubururu, umumama yambaye agapira k'umweru ndetse na rinete.

Umusaza ari kumwe n'umukobwa w'umuzungu, uwo mukobwa w'umuzungu arimo kumufasha kuzamuka ahantu, akayira kari hagati y'ibyuma bibiri, kugira ngo yongere amumenyereze kugenda, bisa naho umusaza yari amaranye igihe imvune.

Umugabo wambaye agapira keza karekare, gafite amaboko maremare k'umuhondo, yicaye ku kagare, barimo baramusunika bisa n'aho arwaye indwara ituma adashobora kwigenza.

Aba bagabo babiri bari mu myaka hagati ya mirongo ine mirongo itanu bari muri siporo, bambaye imipira bombi y'umweru umwe yambaye umupira hejuru w'umukara barimo baratambuka banezerewe cyane umwe wo hepfo afite amazi mu ntoki.

Umuforomo arimo arigisha umugabo gutambuka, bisa naho umugabo amaze iminsi myinshi mu bitaro, aho birimo kumukomerera cyangwa birimo kumugora gutambuka ngo yongere agende nkuko yari asanzwe agenda, umuforomo arimo arabimufasha.

Umumama n'umwana we barafatanye barishimye barimo baraseka, bisa naho bafite ubuzima bwiza, ariko kandi ni byiza kuganiriza, kwita ndetse no guha ubufasha umubyeyi wawe iyo amaze kugera mu zabukuru.

Ababyeyi barimo barasarura ibintu runaka, ni ababyeyi barenga batanu, ababyeyi ubona bameze nk'abishimiye ikintu runaka, rwose barimo barakora umurimo bawukunze, ni byiza gukora umurimo uwukunze kuko ukungukira kandi ugakuramo n'ibyishimo.

Abantu babiri bageze mu zabukuru, ni umugore n'umugabo bambaye imyenda isa bose bambaye imipira y'umutuku, umusaza afite amarinete, umukecuru urabona ko afite akanyamuneza mu maso nubwo basa nk'aho barimo barafata imiti.

Umusaza uteruye umwana, uwo mwana afite akabwa mu ntoki gafite amaso y'umukara n'imisatsi y'umweru.

Umuntu arimo arakina umukino mururrimi rwa'amahanga bita dame, rimwe na rimwe imikino umuti ifasha abantu kuruhuka mu mutwe by'umwihariko abantu bageze mubukuru.

Abantu batatu umukobwa n'umuhungu ndetse n'umumama ubona ko akuze cyane, twamwita umukecuru umukobwa yambaye umupira w'umweru, umuhungu yambaye umupira w'umutuku, barimo bararura ubona ko bishimiye amafunguro bagiye gufata.

Umumama ubona ko akuze ufite agasatsi gakeya, yambaye agapira k'umweru ari muri siporo, aho ateruye icyuma gifite ibara rya move mu ntoki ze.

Ababyeyi bakuze ubona ko bari mu zabukuru. Abenshi imisatsi yabo yazanye imvi; barimo barareba umuntu usa n'aho ari imbere yabo arimo arabaha amakuru runaka.

Abamama babiri umwe usa n'aho akuze, undi udakuze cyane bari muri siporo. Ukuze cyane yambaye umupira munini utamwegereye w'umukara ndetse n'akagofero k'umutuku. Undi nawe yambaye umukara n'uturongo tw'umweru.

Umupapa yagiye kwa muganga, ni umupapa ubona ukuze kuko imvi ze zabaye uruyenzi, yambaye agapira gafite ubururu bwijimye, arimo arafashwa n'umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano z'abaforomo.

Umusaza wambaye amarinete, ni umusaza ubona ko akuze kuko afite imvi, yambaye ishati ijya gusa umutuku, afite ikaramu mu ntoki, arimo arasoma igitabo.

Abantu babiri ubona ko umwe ari umuganga kuko afite agakoresho ko kwa muganga mu ijosi, undi ni umubyeyi bisa naho yagiye kwivuza, gusaba ubuvuzi, afite inkoni mu ntoki.

Ababyeyi bari mu isoko barimo kugurisha ibintu bitandukanye, aba babyeyi bose bambaye ibitenge, uretse umwe wambaye ibubu. Imbere yabo hari ibitebo by'inyanya, inyuma yaho hari ibitebo birimo amaronji.

Umuforomokazi wambaye agapfukamunwa yambaye inifomu cyangwa impuzankano y'umutuku, afite mu ijosi igikoresho abakoresha bumva ko umutima w'umuntu utera, arimo arita cyangwa aravura ku mu mama mukuru ubona ko akuze.

Umusaza ari kumwe n'umugore we, barimo barafata amafunguro yiganjemo imboga rwatsi. Imbere yabo hari itasi cyangwa ikirahure kirimo amazi. Ni byiza kurya indyo yuzuye, kugira ngo wite ku buzima bwawe by'umwihariko ku muntu mukuru.

Abagabo ubona ko bakuze bajya kumera nk'abasaza, bambaye ingofero abenshi mu mutwe, bafite inkoni imbere, bisa naho bari nko mu muco wa kera bitewe n'ukuntu bambaye. Bagiye bambaye ibitenge, bameze nk'abari mu gihe cya cyami.

Umukecuru usa n'aho ashobora kuba afite imyaka myinshi ariko umubonye ku maso ubona ari umusirimu, afite utwuma tubiri tw'icyatsi mu ntoki arimo arakora siporo. Bisa n'aho rwose yamaze gusobanukirwa ibyiza bya siporo n'ukuntu irinda umubiri.

Itsinda ry'abamama n'abapapa, barimo gutanga imfashanyo kubatishoboye, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru n'umugore wambaye imyenda y'umukara n'igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umuganga urimo kugerageza gufasha umurwayi, umurwayi ni umusaza ukuze wambaye rinete, yambaye umupira w'umweru ndetse umuganga yambaye impuzankano z'abaganga z'umutuku.

abantu babiri ubona ko umwe ari umusaza wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umuganga we umufasha mu bigendanye no kumenya icyo agomba kurya n'icyo atagomba kurya. Mu buryo bwo kwita ku buzima bwe.

Umusaza arimo aritabwaho n'umukobwa, umukobwa yambaye agapira k'umuhondo, umusaza yambaye umupira w'umukara ndetse na rinete, umusaza imbere ye hateretse amazi mu kirahure bisa n'aho umuti bari bumuhe ari buhite awumirisha ayo mazi.

Ababyeyi batatu banezerewe, uwo hagati yambaye umupira w'umuhondo, ku mpande umwe yambaye ubururu bwerurutse cyane ndetse undi yambaye umweru. Barimo kureba muri telefone bisa naho barimo kwifotoza bishimye.

saza ari kumwemwe n'umugore nawe ukuzemo umusaza yambaye ishati irimo uturongo twa orange n'ubururu umugore yambaye amarinette imbere ye hari mudasobwa umusaza arimo aramwereka ibyanditse ku icupa ryumuti

Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ibyishimo birahenda. Hari umumama mukuru ukuze bisa nk'aho ari kumwe n'umukobwa we, kandi uwo mukobwa we nawe akaba afite umwana w'umuhungu ukiri muto, bose barishimye baranezerewe ubona ko ari umuryango umwe kandi wishimye.

Umugabo ukuze bisa nkaho ari ijigija, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'akajire k'umukara, inyuma ye hari umusore ubona ko atari umunyarwanda, yambaye amarinete.

Abantu biganjemo ababyeyi, ababyeyi bakuze bagiye ku kigo nderabuzima gufata inkunga z'ibikoresho bitandukanye umuntu akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi iyo abikeneye.

Umukobwa ari kumwe n'umugore ukuze ufite imvi nyinshi mu mutwe, yambaye amaherena umukobwa afite umusatsi muremure ariko si muremure cyane, yambaye akantu agakoresho gapima uko umutima w'umuntu ugenda, arimo arita kuri uyu mukecuru.

Abakecuru batatu, babiri bambaye ingofero uwo hagati ntayo yambaye, babiri bambaye amarinete, umwe uri hagati arimo arabereka ikintu runaka bisa nkaho ari ubutumwa runaka arimo arabagezaho.

Umugabo ubona ko ashaje afite imvi z'umweru ku bwanwa ndetse n'umukobwa ukiri mutoya ufite imisatsi miremire, barimo baraganira ku bijyanye n'imiti bafite mu ntoki, ndetse imbere yabo hari mudasobwa.

Abantu biganjemo urubyiruko ndetse n'umusaza umwe mukuru w'umwirabura, baranezerewe. Bisa nkaho ari famille imwe ni byiza cyane ko iyo umuntu ageze mu za bukuru akwiriye kubona abantu bakiri bato bakaza kwishimana na we, kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza.

Umuryango w'abantu batanu, harimo umugore wambaye agapira k'umweru n'umugabo harimo n'umuhungu wambaye agapira k'ubururu n'umwana mutoya, wambaye ishati n'umukobwa wambaye ikanzu.

Abantu bakibyara, abagore batwite ndetse n'abafite abana batoya, bashishikarizwa guhereza abana babo indyo yuzuye, babitaho nkuko bagakwiriye kwitabwaho kugira ngo birinde igwingira ryabo.

Ku kinyamakuru cyanditse, hariho ishusho cyangwa ifoto y'umugore uteruye umwana we arimo aramureba mu maso n'umwana we akamureba barishimiranye, barimo kumwigisha ukuntu azajya yita ku isuku ndetse n'ubuzima bw'umwana.

Minisitiri w'ubuzima yahuye n'abamasera, abamasera bambaye ya myenda ya bo y'umweru, ubururu ndetse n'udutambaro tw'umweru mu mutwe, bisa nka ho bahuje urugwiro na Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda hari ikintu barimo kuvugana.

Abantu barimo abakoranabushake, abaforomo ndetse n'umuganga, bahuriye ku muntu umwe bisa naho barimo kumuha ubufasha bwihuse bitewe n'uko ntabwo bategereje ko agera kwa muganga, ahubwo bamuryamishije aho hasi bamushyira ku gatanda baramuvura.

Ni byiza ko abaganga iyo agiye kuvura umurwayi agomba kwambara akikwiza kugira ngo niba umurwayi arwaye indwara runaka, wenda se ishobora kuba yakaduza atamwanduza nawe.

Abaforomokazi bateranijwe hamwe bose bambaye impuzankano y'imyenda y'umweru hejuru hasi ubururu bwijimye, barimo barafata amahugurwa y'ukuntu wakwita ku muntu vuba kandi akishimira serivisi.

Ikigo k'igihugu gishinzwe kwita ku buzima kirakangurira abantu bose. Umuntu ku giti ke, abantu bazana ari babiri cyangwa se ahantu abantu bahura ari benshi, kugana ikigo nderabuzima bakipimisha indwara zitandukanye.

Ikibazo cyo gukuramo inda ni ikibazo kitari mu gihugu kimwe ahubwo ni ikibazo kiri mu bihugu byinshi, by'umwihariko abana bakiri batoya babona ko batazabasha kurera abo bagiye kubyara. Iki kibazo cyaganiriweho muri iyi nama yateranye bibiri na cumi na karindwi.

Ikirangantego kiriho ubutumwa ndetse n'izina ry'ahantu icyo kirangantego gikoreshwa, icyo kirangantego kandi gishushanyijemo ikarita ya Afurika.

Abantu baje kwiteza urukingo rwa kovide cumi n'icyenda. Ni byiza ko bahana intera kugira ngo umuntu waje ayanduye, atanduza undi ahasanze wari muzima cyangwa utari wanduye.

Abaganga harimo abagabo batatu n'abagore babiri, bambaye imyenda y'icyatsi n'udupfukamunwa, barimo kuvura umurwayi.

Abantu babiri bahagaze, umwe ni umugabo undi ni umukobwa, umugabo bisa nk'aho ari umuzungu, umukobwa ni umwirabura bose bambaye amabaji.

Ibibazo byo mu mutwe ni ibibazo abantu bose bagira bititaye ku myaka umuntu afite yaba umwana, yaba urubyiruko ndetse yaba anashaje. ni yo mpamvu iki kibazo dukwiriye kucyitaho tukakiganiraho buri uko bibaye ngombwa.

Abantu babiri ndetse uwa gatatu ntabwo agaragara neza uretse ko ikiganza cye kigaragara, ni umugore witeze igitambaro cy'umutuku yambaye ikanzu y'umutuku barimo baraseka.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda Arabisi, kirimo kiraha abantu inama zigendanye no kwirinda virusi itera Sida ndetse n'uko ushobora kuyitwaramo mu gihe wayanduye.

Harimo harategurwa inama. Ikirangantego cyagiye hanze cy'uko inama izagenda ndetse n'ibyo izaganiraho. Iki kirangantego kiriho abateye inkunga uyu mushinga bose harimo USAID, Options n'ibindi bitandukanye.

Inzu izwi muri Kigali cyane ku izina ry'icyongereza ryitwa Convention Center, ku ruhande hari igishushanyo cy'umukobwa wambaye akajipo kagufi k'ubururu, aha ngaha ni ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwiga ku bigendanye na diyabete.

abaforomo babiri barimo barapima umuntu covide cumi n'icyenda, bose bifurebye bambaye utunozasuku ku mutwe n'udupfukamunwa ndetse n'amatabuririya n'amashashi y'ubururu.

Abantu benshi cyane bose bafite ibikombe biteretse imbere yabo, ubwo bamaze kwiga ku bigendanye n'ubuzima bwa muntu babahaye ibi bikombe kugira ngo bibe ibyemezo bibahesha ububasha bwo gukurikirana abandi bantu.

Ibyapa akenshi abantu bakunda kubikoresha iyo hari ikintu runaka bashaka ko abantu bamenya, aha ngaha n'amakuru ashaka kumenyekanishwa kugira ngo abantu bamenye ko hari inkingo zirimo gutangwa.

Ni inama yateranijwe n'abantu benshi batandukanye, ariko by'umwihariko abantu bita ku buzima bwo mu mutwe, ni inama yakozwe cyangwa yateranijwe kugira ngo bongere basubize ubuzima abari barabutakaje cyangwa abari bihebye.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kuganira ku kibazo no ku ngingo virusi ni ikirori cyateguwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima arabisi.

Kwa muganga aho abantu bajya kwivuriza iyo barwaye cyangwa bahuye n'ibibazo by'umubiri bitandukanye, iyo bahagiye bahasanga abaganga ndetse n'abaforomo bakabafasha.

Umukobwa wirabura munini ubyibushye cyane cyane mu maso afite imisatsi miremire gusa si miremire cyane, yambaye umwenda w'ubururu ndetse urimo n'umutuku ,aha ngaha bari bagiye kuganira ku bigendanye no kumenya ibidukikije n'umumaro bidufitiye mu buzima bwacu.

Ihuriro ry'ibihugu bitandukanye mu kurwanya ndetse no guhashya kanseri. kanseri ni indwara mbi cyane ndetse umuntu atayitayeho ishobora kumara ubuzima bwa benshi.

Abantu bahagaze bose biteguye gufata ifoto ni abantu bagera muri barindwi. Harimo abagabo batanu ndetse n'abakobwa cyangwa se abamama babiri. Bose bambaye amapaji y'umutuku.

Umukobwa mwiza wirabura yambaye agakoresho ko kwa muganga mu ijosi, yambaye inifomo zo kwa muganga uhereye ku gapfukamunwa nubwo yagashyize munsi ya akananwa, akanozasuku mu mutwe ndetse n'itaburiya.

Ubukangurambaga burimo gukorwa n'urubyiruko, aho bambaye imipira bose y'umweru, ni ubukangurambaga bwo kwirinda kanseri y'ibere bayisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Urubyiruko rwitabiriye inama mpuzamahanga yita ku buzima ndetse uyu munsi baganiriye ku nsanganyamatsiko ivuga ku gutwita kw'abangavu batarengeje imyaka makumyabiri.

Abaganga barimo kuvura umurwayi n'abandi bari mu nama n'undi mugabo urimo guhinga imiti, yambaye isarubeti y'ubururu n'ingofero y'urugara.

Minisiteri y'ubuzima y'u Rwanda, ikangurira buri mubyeyi wese utwite kugira ngo ajye agana ibitaro, buri kwezi, kugira ngo barebe ubuzima bw'umwana wo mu nda uko buhagaze, ndetse n'ubuzima bwe bwite.

Ku munsi mpuzamahanga wo kwigisha abantu by'umwihariko abagore, ibigendanye n'ubuzima bwabo, kwita ku buzima bwabo ndetse no kumenya amakuru kugira amakuru ku bigendanye na kanseri by'umwihariko ku bagore.

Umuti ufite izina riri mu cyongereza witwa kovagisi. Ni umuti mwiza ku bana by'umwihariko bari munsi y'imyaka cumi n'itanu. Aha ngaha twavuga ngo ni abana b'ingimbi n'abangavu bakiri bato.

Umuryango winjira mu cyumba cyo kwa muganga aho ababyeyi babyarira. Aha ngaha ni aho winjira ugasanga ibikoresho byose biri ku murongo, aho abaforomo ndetse n'abaganga baba babyitayeho.

Ibitaro bya Ruhengeri ni ibitaro byubatse neza cyane, ni ibitaro biba bifite isuku aho usanga nk'ubusitani bwaho rwose ku murwayi urembye ushobora no guhita aharyama ntase nabi bitewe n'isuku ihari, ni ibitaro biba mu karere ka Musanze.

Ni inzu nziza cyane kuruhande hariho icyapa cyanditseho biotech mu rurimi rw'amahanga. Bishatse kuvuga ko ibijyanye n'ibi byose bikorerwa muri iyi nyubako.

Ku bitaro urimo kwinjiramo hari isuku, hateretse vazi y'umutuku, ubusitani buracyeye bumeze neza, ndetse hariho n'umuntu w'umusirikare, usa n'aho avuye kwakayo serivisi.

Abagabo babiri bari mu cyumba cy'ibitaro kimwe, bose baryamye ku dutanda, umwe uri hino arashaje cyane ubona ko afite imvi nyinsh,i undi uri hirya ntabwo ashaje cyane, bakwiriye kwitabwaho na muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byose bitandukanye bikenerwa kugira ngo umuntu bahazanye ahave, bamuhaye ubufasha yari akeneye, harimo agatanda, harimo aho ahajya serumu, harimo utundi tuntu turimo umuti.

Inzu nziza cyane. Ni inzu yubatswe kugira ngo ijyemo, ikorerwemo ibijyanye n'ubuvuzi, ni inzu ubona ko ifite umuhanda, aho umuntu uzana imodoka atagorwa no kubona aho ayinyuza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe nziza, intebe zijya kumerara nk' ibitanda. Bishatse kuvuga ko iyo iki gitanda ushaka kukigira intebe, ukigira intebe ukicaraho ndetse washaka kukigira igitanda, ukakigira igitanda ukakiryamaho.

Icyumba kirwariramo umuntu umwe wenyine ufite indwara yandura, ni icyumba ubona ko gifite buri kimwe nkenerwa, ariko harimo igitanda kimwe cyonyine bivuze ko nta wundi muntu wemerewe kwegerana.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge ni ibitaro umuntu wese agana bitewe n'ubushobozi ubwo aribwo bwose afite, akahakura serivisi kandi ntacyo batavura kibayo.

Inzu ziza cyane iteye amabengeza yubatse neza, aho igiye ifite utuyira twiza kandi dusukuye tuyigeraho, ni inyubako ubona ko bishoboka ko ari ivuriro rya gisirimu.

Ibyuma byo kwa muganga ni byinshi bitandukanye, ku rwego umuntu utarize ibigendanye n’ubuvuzi agiyeyo ntiyamenya ngo ni ibiki. Hari ibiba biri hejuru bireba hasi, ariko ibyo byose bifatanyiriza hamwe mu kuzanira icyiza umurwayi.

Igitanda cy'umukara umurwayi aryamaho, ku ruhande hari utubati, utubati ni utwo bashyiramo ibikoresho byose umurwayi ajya akenera ndetse n'umuganga akenera kugira ngo avure umurwayi.

Ahantu batangira serivisi, hari abantu babiri bicaye ahatangirwa serivisi, abandi babiri barimo imbere, umwe yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Ubusitani buriho Idarapo mo hagati imbere, Idaerapo ry'u Rwanda ndetse n'umuhanda ku ruhande urimo kuzamukamo umuntu w'umubyeyi, arimo arazamuka agiye kwa muganga kugira ngo bamufashe ku kibazo afite cy'ubuzima.

Ikigonderabuzima cya Tabagwe, ahangaha ni mu cyaro cyo mu karere ka Nyagatare, iki kigonderabuzima cyubatse neza kandi gitanga serivisi hafi ya zose.

Ivuriro rinini cyane rirerire harimo ibyumba byinshi cyane, uyu munsi hari hahuriwemo n'urubyiruko, bari bambaye impuzankano z'imipira y'ubururu bose bari baje kwiga ku kibazo k'inda zitateganijwe mu bangavu.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu, imodoka ziparika ku ivuriro ryitwa regasi, ni ahantu hari umugabo wambaye umupira w'umutuku urimo kugerageza kuzereka aho zigomba guparika.

Inzu yo gucururizamo, ifite icyapa cy'icyatsi, cyandikishijeho amagambo y'umweru, ku muryango w'inzu hashushanyijeho ibishushanyo byerekana icyo iyo nzu ikorerwamo.

Ababyeyi batatu bisa nkaho bakora kwa muganga bakora ibigendanye n'amasuku bitewe n'impuzankano bambaye, babiri bo ku mpande ni barebare, ariko basumba wo hagati.

Ibitanda byo kwa muganga akenshi biba bifite imisego ibiri, aho baba bagirango umuntu yegame neza, kandi abashe kureba imbere ye neza, usibye kuba iki gitanda cyo kwa muganga gifite ibi byiza, ni gitoya.

Umuganga arimo araha inama abangavu batwise inda zitateganyijwe. Urabona ko arimo arabaganiriza atabarakariye abishimiye, ashaka kubereka y'uko bibaho ariko kandi bakwiriye kubyitondera bakagenda gake.

Mureke abana bacu yaba abo mu ngo zacu twabyaye ndetse n'abo ku ishuri turera, tubigishe ingaruka nziza zo gukorera isuka amenyo, bityo bazamuke bazi kwita ku isuku.

Umuntu arimo kwita ku mwana we yishimye cyane, yamujyanye kwa muganga, barangije bamuha ahantu heza ngo agende amukorere isuku, urabona ko anejejwe na we.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bw'ikizeru, inyuma yayo na ho hari inzu yubatse mu buryo busanzwe, ziratuje urabona ko zidafite amabara apika cyangwa asakuje.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye harimo abaganga, harimo abaforomo, harimo abagiye kwivuza bose tubona ko icyo bahuriyeho ari uko bose bambaye udupfukamunwa.

Ububiko bw'imiti. Ni byiza ko kwa muganga ivuriro runaka cyangwa ibitaro, bigira ububiko bwiza buri ahantu hakonje kugira ngo imiti itazangirika bityo ikanangiza abazayinywa.

Icyapa kirimo amabara menshi; ubururu, umutuku, umuhondo, icyatsi, umukara. Aho hose hagiye handikwaho amagambo runaka ashaka gusobanurira abantu bagana ikigo nderabuzima ibyo ari byo.

Igitanda gishashe neza, gishasheho ishuka y'icyatsi ndetse no hirya hari ibindi bitanda bibiri bishashe kimwe byose amashuka y'icyatsi, ni ibitanda biryamwaho n'abantu barwaye indwara zitandura.

Inzu nziza yubatse ubona ko ari ku bitaro, hari amatara yaka gake gake, bitewe nuko haganwa abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, ntabwo ari byiza kwatsa amatara yose kugira ngo n'umuntu uje kwivuza amaso atagira ikibazo.

Abakobwa batatu ubona ko bafite inshingano zitandukanye: umwe ni umuganga, undi ni umuforomo, undi ni umurwayi wagiye kwaka serivisi.

Umupapa wambaye ishati y'ubururu ndetse nipantaro y'umukara, yicaye ahantu ku gitebe munsi yigiti arimo aritekerezaho, ndetse ku ruhande bisa naho harimo harubakwa inyubako y'ubuvuzi cyangwa ivuriro.

Icyumba kinini kisanzuye aho mu rurimi rw'icyongereza bakunda kuhita gimu, ni icyumba abantu bajya gukorera siporo aho harimo ibyuma bitandukanye ukora siporo igendanye n'uko ushaka.

Icyumba cyiza cyo abantu bakoreramo imyitozo ngororamubiri, ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, umuntu yakwifashisha kugira ngo agorore ingingo ze. Amaguru, amaboko n'ibindi.

Icyumba gikorerwamo siporo kigomba kuba gifite ibikoresho bitandukanye kandi byinshi kugira ngo umwe nashobora iki akananirwa ikindi, akoreshe icyo ngicyo bitewe n'imbaraga ze cyangwa n'ubushobozi bw'umubiri we.

Abagore babiri b'abarwayi umwe aryamye ku gitanda cyo hakuno ,undi aryamye ku gitanda cyo hakurya, hari umuganga umwe w'umugore nawe ufite umusatsi mukeya urimo kumwitaho ,bisa nk'aho arimo aramubaza ibibazo bitandukanye.

Intebe nziza cyane zo kwa muganga, ni izo abantu bicaraho iyo barimo barahabwa ubufasha, butabasaba kuryama wenda ngo bajye ku gitanda. Ni ahantu hegeranye na utubati turimo ibyangombwa byose bakenera.

Ivuriro ryiza cyane, ni ibitaro byiza bifite isuku, ubona ko hari ahantu ha parikingi harambuye kandi haparitse imodoka nkeya, ntabwo ari byiza kujya kwa muganga byihutirwa ushaka ubufasha bwihuse ugasanga nta parikingi.

Hari abantu benshi, bahuriye ku ivuriro. Abenshi bambaye agapfukamunwa, iki ni igihe covid cumi n'icyenda, yari ikirimo kuba, yari ikirimo gutwara ubuzima bwa benshi. Aba bari bahuriye kwa muganga, kugira ngo bisuzumishe barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ahantu heza hagari ubona ko hateguye hakoreye isuku ni inzu yiganjemo umweru, hariho ibikoresho abantu bakoresha bakora siporo, twashishikariza abantu benshi kandi bose kugira ngo bajye bakora siporo kuko ni nziza mu buzima.

Ku kigo nderabuzima hateraniye abantu benshi, hari abamama bari ku ruhande babiri, bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, hari undi uri hafi y'aho imodoka iparitse usa n'aho we afite imodoka.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Matyazo. Abantu barabagana b'ingeri zitandukanye harimo ababyeyi batwite ndetse n'abandi bashaka ubuvuzi bwa hafi cyane.

Ni ibyumba byo kwa muganga, aho bigiye byandikwaho icyo bikora. Hari icyumba kimwe ufatiraho imiti, hari ikindi wisuzumiraho ndetse hari n'ubwiherero ku ruhande mu gihe ubishaka.

Ikigonderabuzima cya Nyaruyenzi, ni ikigonderabuzima kimaze gutera imbere kuko gifite inyubako nziza, ni inyubako iriho n'igorofa, iki kigonderabuzima kiganwa n'abantu bose b'ingeri zose kandi batanga serivisi neza.

Inzu nziza cyane yubakishije amabuye meza, ubona ko ajya gusa umukara, imbere hari abantu, ababyeyi, abagabo ndetse imbere y'iyo nzu hari ubusitani bwiza.

Farumasi y'umuntu witwa Murekatete Marie Denise, ni farumasi ikorana n'ubwishingizi nka RAMA, MISIUR n'izindi.

Icyumba gikorerwamo siporo, harimo buri kimwe gikenerwa kugira ngo bakore siporo, iz'amaboko, iz'amaguru n'iz'umubiri muri rusange, iki cyumba ni heza kujyayo, cyane cyane ku bantu bakunda gukorera mu biro kenshi.

Abantu benshi batari benshi cyane bagera muri batanu, bikusanyije, imbere yabo hari insakazamashusho hari ibyo bashaka gushyiramo kugira ngo bige uburyo bwiza bwo kwita ku barwayi, ni buryo bushyashya bwaje.

Ikigo nderabuzima cya Rwererere, ni ahantu abaganga bahurira n'abarwayi, bakabafasha abarwayi baba bafite indwara zitandukanye, ababyeyi bagiye kubyara ndetse n'abasaza bari mu zabukuru.

Inyubako yo kwa muganga yaganwe n'abaturage batari bakeya, aho bagiye kureba ko bavurwa bakongera bakaba bazima bagasubira mu buzima busanzwe.

Inzu nziza ubona ko atari inzu yo guturamo ku muntu runaka ahubwo ari nk'inzu batangiramo serivisi by'umwihariko kwa muganga. Ni inzu ifite imiryango itandukanye ariko hagaragaraho imiryango ine ndetse hagiye handikaho hejuru icyo uwo muryango runaka ukorerwamo.

Farumasi Iraguha, akenshi iyo umuntu agiye gushinga ikintu runaka akunda kukitirira izina rye, uyu na we yabyitiriye izina rye.

Gutanga amaraso ni byiza, kubera ko aragenda agafasha abantu bameze nabi bakeneye amaraso bari hafi gupfa, bakabona na bo amaraso, aha ngaha hari udukoresho tu tuzamo ayo maraso.

Umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru iriho utuntu twa move, ndetse yambaye na ga, arimo arumviriza yumva uko umutima w'umuntu agiye kuvura utera.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zegamirwa, intebe zigera muri eshatu, harimo mudasobwa, harimo igishushanyo gishushanyijeho ijisho, bisa nkaho ari icyumba kivurirwamo amaso.

Umugabo munini ubyibushye, yambaye ikabutura y'umweru, umupira w'icyatsi cyijimye, yambaye n'agapfukamunwa, ari kwa muganga, ubona ko ashobora kuba arwaye bikomeye.

Icyumba kimwe mu byumba byo kwa muganga, icyumba kirimo ibitanda byinshi bihagije ndetse ibyo bitanda hejuru hagiye hariho inzitiramibu. Birasa nk'aho ari aho ababyeyi babyarira.

Isange One Stop Center aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ni byiza ko tumenya aya makuru, tumenya Isange kugira ngo tujye dutanga amakuru mu gihe byatubayeho cyangwa byabaye ku nshuti zacu ndetse n'abo tuzi.

Umuntu bisa nkaho arimo aratera umuti w'umubu cyangwa w'udukoko dutandukanye, yambaye igisarubeti cy'umweru, agapfukamunwa, akanozasuku mu mutwe ndetse na bote.

Igikoresho mu rurimi rw'amahanga bita scaner, umuntu iyo aryamyeho kiramureba, kikamureba mo imbere ku buryo gisohora amakuru y'ikibazo ashobora kuba afite icyo ari cyo cyose mu mubiri we cyangwa mu mutwe.

Ikigo nderabuzima cya Shangasha, aha ngaha niho abantu benshi bo muri aka gace bajya kwivuriza, aho bafite serivisi yihuta kandi inoze.

Inzu nziza cyane iri ahantu harambuye ntabwo iri ahantu hacucitse, ipoto y'amashanyarazi, ubusitani bwiza buteyemo utwatsi tw'icyatsi.

Icyumba cyiza gikoreye isuku, ubona ko harimo ibintu bimeze nk'amafirigo byinshi. Biri ku murongo, bimwe biri ku ruhande rw'iburyo, ibindi biri ku ruhande rw'ibumoso.

Icyuma cyo kwa muganga, gikoze nk'ikizeru, aho umuntu ashyira umutwe yinjira, ndetse ikindi gifite ahantu hameze nk'uburiri.

I Remera rukoma, habayo ivuriro ryitwa Isange ne stop center, iri vuriro ni ivuriro ryiza kuko, rikunda guha serivisi abarigana, byihuse kandi neza, babavugisha neza.

Icyumba cyo kwa muganga harimo umuforomo umwe wenyine harimo ibitanda byinshi by'abarwayi supanete zijya kuri ibyo bitanda hakorewe isuku ariko nta murwayi n'umwe urimo, bisa nk'aho ari icyumba bateganirije abantu bashobora kuza bafite ikibazo cy'umwihariko.

Icyuma cyo kwa muganga gifasha gupima abarwayi indwara barwaye, ni icyuma gikoranye ubuhanga buhanitse aho umurwayi ashobora kukijyamo hanyuma ku nsakazamashusho iri ku ruhande ukabona ikibazo afite.

Inzu zitandukanye ariko zijya gusa mu myubakire, ni inzu ubona ko zisa nkaho zubatse ku kigo cy'amashuri, imbere yaho hari uturabo, hari utwatsi, hari n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Umupapa wambaye ishati y'umweru, aryamye kwa muganga ku gatanda ko kwa muganga, bisa nkaho anezerewe ntashaka kwerekana ko atarwaye ahubwo arashaka kwerekana ko yabonye ubufasha.

Ku bitaro bya Kabgayi, ni ibitaro abenshi bajya kwivurizamo amaso, nubwo ibi bitaro bitaratera imbere cyane ngo bikorerwemo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigomba kuba birimo kwigwaho na Leta.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ni ibitaro byiza byubatse neza bigari kandi binini, ikintu abantu bahakundira cyane ni uko bagira serivisi nziza.

Inzu y'ababyeyi bakunda kwita mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza materinete, ni ahantu umubyeyi ajya kubyarira aho kugira ngo abyarire mu rugo, bigende nabi cyangwa ntabone ubufasha.

Inzu nziza iteguye itunganyijwe kandi ikoreye isuku, ni inzu ubona ko ari kwa muganga, ifite ibyumba byinshi bitandukanye, watangiramo serivisi zitandukanye.

Umwana w'umukobwa bisa naho akiri mutoya w'umunyeshuri, yambaye impuzankano yo ku ishuri ishati y'umweru n'jipo y'ivu, arimo aravurwa n'umuganga wabugenewe.

Icyumba kimwe mu byumba byo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho byiganjemo ibifite amabara y'umweru n'umutuku, aha ngaha hari ibipima, hari ibivura, hari inshinge, hari isaha n'ibindi.

Iyo ugeze kwa muganga hari ahantu uhitira. Uhita ugera ahantu ugasangamo umuntu ukwakira akakubaza icyo urwaye, yamara kumenya ubwoko bw'indwara ushobora kwivuza agahita akwereka icyumba winjiramo, ariko mbere y'uko winjira ubona ibindi bintu bitandukanye byinshi.

Farumasi yitwa Peniel, ni ivuriro ushobora gusangamo imiti y'ubwoko bwose, biragoye kujya kureba umuti cyangwa kwivuriza kuri iyi farumasi ngo usange uyu muti ntawuhari.

Umuganga wicaye, usa naho arimo arifotoza. Bitewe n'uko areba imbere wagira ngo hari umuntu urimo uramufotora. Yambaye itaburiya, ndetse inyuma ye hariho agatanda k'abarwayi, gakoreye isuku k'icyatsi.

Abantu batatu umumama, umukobwa ndetse n'umugabo, umumama n'umugabo barimo gufata ku mukobwa bisa nk'aho uyu mukobwa yarwaye, aho aryamye hasi ku gatanda.

Abantu bagera kuri barindwi, bose bambaye amapantaro, yaba abakobwa ndetse n'abahungu, higanjemo amapantaro y'umukara ndetse n'ubururu n'amashati bose y'umweru bisa nk'aho bafite ibintu bagiye gufashisha abarwayi mu ntoki zabo.

Icyumba kirimo intebe enye z'umutuku, kirimo agatanda na ko ni umutuku, ako gatanda ni ko umurwayi aryamaho iyo baje kumufasha. Imbere yaho hari udukarito bashyiramo imiti.

Icyumba giteguye neza harimo udutanda tw'abarwayi, harimo isaha, harimo n'ibindi bikoresho nk'agatanda cyangwa akabati bashyiramo imiti ndetse n'ibindi. Ni icyumba ubona ko gikoreye isuku, umurwayi uwo ari we wese ashobora kuza yagikoresha kandi ntikimwongerere ibindi bibazo.

Leta y'u Rwanda akenshi ikunda gushishikariza abantu by'umwihariko imiryango nk'abagore batwite kujya kubyarira kwa muganga. Iyo ugiye kwa muganga ugasanga rero hariyo ibikoresho byiza nk'udutanda baryamishamo umurwayi bafite abaganga b'inzobere biba byiza cyane kuko baguha serivise ukabyara amahoro.

Umukobwa bisa nk'aho ari umuganga cyangwa ari umuforomo, yambaye itabuririya y'umweru ari kuri mudasobwa, arimo arareba ubusobanuro bw'indwara runaka n'uburyo yakwirindwa.

Kwa muganga hari umuntu w'umuganga umwe, arimo arasuzuma ahantu basuzumira abantu, arimo arareba niba ajyanyemo umurwayi yabona buri kimwe umurwayi yakenera.

Inzu nziza isa neza. Ibikoresho biyikoze byose higanjemo umweru. Ariko si umweru gusa, harimo n'igikuta cy'icyatsi kibisi.

Icyumba cyiza gifite isuku kirimo intebe, kirimo udutanda dutoya, kirimo udukarito, kirimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ubona ko ari ibikoresho byo kwa muganga.

Inzu nziza cyane, ifite mu nzu heza, hubatse neza. Ifite igisenge cyiza, intebe zirimo ni nziza, zirasa umweru, bisa naho ari inzu yo kwa muganga.

Umupapa yajyanye umwana we kwa muganga, uyu mu papa ashobora kuba ari umusilamu kuko yambaye igitambaro mu mutwe, umuganga nawe ni umusore arimo aramufasha kumuvurira umwana urabona ko umwana arimo araseka.

Hari ikigo nderabuzima gishinzwe kuvura ibintu bijyanye na kanseri gusa. Kanseri ni indwara mbi yica vuba, iyo urwaye kanseri abantu benshi batangira kugutakariza icyizere cyo kubaho.

Ku bitaro bya Kabutare, Isange One stop Center, hari abantu batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo babiri muri abo bose bafite inkoni basa nkaho bafite ikibazo mu kaguru.

Ibitanda byo kwa muganga akenshi kwa muganga aho ubikorera biba bisa neza biba bikeye bikorewe isuku kubera yuko abantu benshi bajya muri ibi bigo by'abikorera baba bafite amafaranga yabo menshi bityo baba bagomba kubona serivisi nziza kandi isa neza.

Icyumba cyiza cyane gikoreye isuku harimo udutanda twinshi dutandukanye, bisa naho ari udutanda abarwayi baza kurwariraho iyo barwaye indwara zikomeye harimo cyane cyane indwara zitandura.

Aha ni ku irembo, ku irembo tuhasanga abantu baba bari budufashe ku maserivise atandukanye ariko by'umwihariko no ku bigendanye n'ubuzima.

Inzu nziza cyane, ubona ko atari inzu imwe ahubwo ari inzu ifite n'izindi zishamikiyeho, ni inzu y'umweru, ifite n'amabati y'umweru, imbere hahagaze umuntu wambaye itaburiya bisa nkaho ari umuganga.

Inzu nziza cyane. Ikoreye isuku, imanitseho imitako, ifite inzugi nziza, zishobora kuba zarakozwe muri cya giti bita ribuyu. Ni inzu ubona ko ari ndende, ifite n'igisenge cyiza cyane rwose.

Icyumba kimwe mu bigize ivuriro, ni icyumba cyabugenewe cyagenewe byonyine mu gukorerayo ubushakashatsi, bitewe n'indwara baba babona, bitewe n'ibyo baba barimo barakora n'imiti n'ibindi bitandukanye, baba bagombakorera ubushakashatsi bakabigeza ku baturage bimeze neza.

Inzu nziza ifite ibara ry'iroza ndetse n'ibara ry'ivu, hateretse imbere intebe z'umutuku, bisa naho kuri izo ntebe hicaraho abantu bagannye bagiye gushaka serivisi.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako nini ubona ko ishobora kujyamo buri kimwe icyo ari cyo cyose, yaba ubucuruzi yaba kuhagira ivuriro ndetse n'ibindi bitandukanye, ni inzu ariko ubona ko idafite ahantu ushobora guparika imodoka.

Abaforomo bane basohotse hanze y'ibitaro bafata ifoto, bose ni abamama bose bambaye impuzankano yabo nk'abaforomo n'imyenda myiza cyane y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, bahagaze imbere y'icyumba cy'inzu y'ababyeyi abenshi bakunda kwita materinete.

Abaganga bagera kuri bane, abasore babiri ndetse n'abakobwa babiri, bose bambaye impuzankano, amataburiya y'umweru, barimo baragerageza umuti, bagerageza kuwushyira mu macupa.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu ndetse n'agapfukamunwa na ga by'ubururu, hirya yaho hari umugore na we wambaye imyenda yo kwa muganga, akanozasuku, amaga n'agapfukamunwa. Barimo barakora isuku mu bitaro.

Inzu y'ibirahure isize irangi ry'umweru, imbere y'umuryango haparitse imodoka y'umukara, imbere yayo hateye indabo z'umuhondo.

Amashuri y'incuke agezweho muri iki gihe, akenshi aba afite ibyuma bakunda kwita ibyicungo. Ibi byuma cyangwa ibi byicungo, ni bimwe mu bituma abana bato b'incuke bakunda ishuri.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye ni byinshi cyane, akenshi utarigiye uyu mwuga cyangwa umurimo ngo ube uri umuganga cyangwa umuforomo biragoye guhita wabimenya byose, hari nk'dupfuko, amabande imikasi n'ibindi.

Umuryango witwa Croix rouge ni umuryango Nyarwanda ufasha abantu kuba batanga amaraso hanyuma ayo maraso akagera ku bandi bayakeneye bari mu bitaro.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku, afite umusatsi muremure, afite ekuteri arimo arumviramo indirimbo, yazicometse muri telefone azishyira mu kantu kabugenewe azishyira ku kuboko.

Abantu babiri ubona ko bari mu gikorwa cy'ubutabazi, bambaye amajire y'umutuku ndetse n'imyenda yabo isanzwe, barimo baraha ubufasha umuntu wahoze ari mu kibuga cy'umupira arimo arakina ariko akagira ibyago akavunikiramo.

Imiti yo mu bwoko butandukanye, harimo imiti yo kwisiga ku ruhu, hari imiti yo kumira, hari iyo kunywa mu amazi, akenshi iyi miti ikunda kugira amazina akomeye amenywa n'abaganga gusa.

Umukobwa arimo arakora siporo. Ubona ko yambaye imyenda myiza yagenewe gukora siporo. Yambaye ibirenge, afite umusatsi mwinshi, arimo arakora siporo yunama yunamuka.

Umuhungu wicaye hasi wambaye ikabutura ya shokora n'isengeri y'umukara n'inkweto n'isaha ku kuboko, ushushanyijeho ibara ry'umutuku.

Umuganga yararimo kwita ku muntu wagize ikibazo cyo kuvunika ukuguru, akenshi iyo umuntu avunitse ukuguru bakabona nta kundi babigenza bamuha insimburarugingo, iyo dukunda kwita tije akagenda yambaye tije mu kuguru.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo agapfukamunwa, isitimu, umukasi, ibinini, n'urushinge.

Umupapa w'umuzungu yagiye mu cyumba gishinzwe gukorerwamo siporo, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira ujya gusa n'ivu n'inkweto z'umweru. Ni byiza ko abasaza, abantu bakuze bamaze gusobanukirwa ibyiza bya siporo.

Umukobwa ushobora kuba yagize ikibazo mu ivi, aha ngaha umuganga arimo aramwitaho akoresheje udutambaro kamwe k'umutuku akandi k'umweru. Yambaye agakabutura kagufi cyane ku buryo bitateza ingaruka.

Umuntu bigaragara ko a ashobora kuba arwaye, yambaye umupira w'umweru mu ipantaro y'umukara ndetse n'umukandara w'umweru mu nda, inyuma ye hari umukobwa asa nkaho ari umuforomo bitewe n'imyambaro yambaye harimo aramufasha gutambuka.

Imiti itandukanye harimo mu dukarito dutoya hari mu dusashi hari n'indi iri mu tuntu tudukombe dutoya kuru ruhande hariho ga ibi byose bifasha umuntu mu gihe hari ikibazo yagize mu mubiri cyangwa twavuga ngo arwaye kugira ngo akire.

Imbangukiragutabara, abasore babiri bambaye impuzankano udupira tw'umweru ndetse n'amajire y'umutuku ashushanyijeho umusaraba, bateruye umuhungu bisa naho ibyo yari arimo yaba yakinaga umupira cyangwa yakoraga siporo avunitse.

Abana bakiri batoya bari mu myaka nk'icumi, icyenda, umunani kumanura, bahuriye ahantu ari benshi cyane barimo barigishwa uko bazajya bakora siporo kugira ngo bakurane uyu muco bityo babeho bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa yari ari muri siporo, ubona ko yari yagiye yambaye imyenda ya siporo, ikabutura y'umukara n'agapira k'umukara, yari ari kumwe na mugenzi we ariko bageze mu nzira aravunika.

Imbuto zitandukanye, kokombure, pome, indimu, imyembe, imineke, n'ibindi. Muri ubu buzima, iyo umuntu afata imbuto, zimugabanyiriza uburwayi bwa hato na hato.

Umukobwa arimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yabugenewe, y'ubururu, yicaye hasi arambuye amaguru ye yombi, arayaringanije arimo kurambura amaboko kugira ngo afate kuri ya maguru, ariko arambura n'ingingo ze.

Imbuto, indyo yuzuye ndetse n'imyitozo ngororamubiri, ni bimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, imbuto twavuga nk'amaronji, pome n'ibindi.

Umugabo urimo gukora siporo yambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara , ku ruhande hari undi bisa n'aho arimo aramwerekera yambaye n'inkweto zijya gusa ni'ivu.

Umubyeyi arimo aranywesha amazi akakombe cyangwa akagurude kajya kumera nka babero imwe y'abana, ni umukobwa ubona ari mukuru yambaye akatambaro mu ijosi k'umweru ndetse mu gashati ke harimo ubururu n'icyatsi.

Umuntu ukiri mutoya ubona ko adakuze cyane yavunitse akaboko, arimo arakoresha uburyo bwo gufata akantu k'agasashi k'ubururu, akikanda aho yababaye kugira ngo agagabanye ububabare.

Umuntu yari ari muri siporo agira atya aravunika. Yavunitse ku ivi, urabona ko yari yagiye muri siporo, yambaye impeta, agakomo, ariko nubwo yavunitse ivi, yabashije kubona ikintu kirifata cy'umukara.

Akenshi iyo umuntu ari muri siporo arashyuha cyane akagira icyokere rero muri icyo gihe aba yumva yifuza nk'amazi kugira ngo asuke mu maso siporo ni nziza mu buzima kubera ko iyo umuntu akoze siporo aba arimo kongera igihe cyo kubaho cye.

Ibikoresho bitandukanye birimo bimwe bakoresha siporo ibindi byo kwa muganga, imbuto ziribwa aho twavuga ko harimo nk'ibitunguru, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukino w'amagare ni umukino mwiza cyane, aho abanyarwanda benshi basigaye bawukunda ndetse banawitabira, ahangaha umukinnyi w'amagare yari yagize ikibazo bisa nkaho yapfukamye hasi, abagabo babiri barimo kumurebera icyo yabaye.

Umukobwa bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura ngufi y'ubururu, agasengeri k'icyatsi ndetse n'inkweto zabugenewe arimo arasunika ibyuma, bigaragara ko amenyereye iyi myitozo ngororamubiri.

Umumama wambaye ikinigi cyo mu ijosi, agashati k'umweru ndetse akaba yambaye n'impeta yavunitse ku kuboko, ariko nubwo yavunitse ntago yabiretse ahubwo arimo arifashisha agatambaro k'ubururu yivura.

Hari imiti itandukanye y'uburyo butandukanye ubwoko butandukanye ivura ububabare, iyo ubabara ahantu ushobora guhitamo ubwoko bw'umuti ushobora gukoresha kuko hari nk'iyo bisiga nk'amavuta niyo bafuhera.

Umusore wambaye inkweto z'umweru amasosogisi y'umukara ikoboyi y'umukara ndetse n'agapira karimo icyatsi, yambaye ga z'umweru, ari mu cyumba cyabugenewe aho bashyira ibigendanye n'amaserumu.

Imbuto zitandukanye ni ingenzi mu buzima, amazi ni ingenzi, urubuto nka pome, inkeri, amaronji ndetse n'ibindi bitandukanye, ni na byiza gufata izi mbuto ukazikoramo umutobe.

Hari igihe wirukanka cyane ukumva urananiwe, ukumva ukeneye nk'amazi bagusukaho rero iyo witwaje amazi mu gihe uri muri siporo ukayisukaho mu maso uba wumva ugaruye ubuzima, ni byiza kujya muri siporo ujyanye n'amazi kuko byose ni byiza ku buzima.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga bitandukanye bihuriye ahantu hamwe, harimo inshinge, harimo ibinini, harimo imiti, harimo imikasi, harimo uturindantoki, harimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Agakapu kariho imiti myinshi. Y'ubwoko butandukanye, hari imiti iri mu dukarito, hari imiti iri mu dusashi, hari n'imikasi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Bikoreshwa kwa muganga.

Umwana yari yagiye gukina n'abandi bana, agira ibyago aravunika. Yavunitse ku kuguru ubona ko bamuhaye ubufasha bw'ibanze bwo kumuzirika bande ku kuguru kugira ngo yongere amere neza.

Hari ibintu bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu gihe yababaye, mu gihe yarari nko mu kibuga cy'umupira akababara cyangwa yararimo gukora imyitozo ngororamubiri akababara, rero asigaho aho ngaho yumva ababara akaza gukira.

Imashini yerekana ibisubizo by'umurwayi, umurwayi ashobora kujya kwa muganga, bakamusuzuma, barangiza imashini iri imbere, igatanga ibyo yasanze mu mubiri, ibyo arwaye, aho afite ikibazo naho atagifite.

Akenshi iyo umuntu ari mu kibuga by'umwihariko cy'umupira, akunda guhura n'impanuka ntoya za hato na hato nko gukubitwa umugeri, gukubitwa umupira n'ibindi akababara, akantu k'icyatsi rero karimo ipamba mo imbere inyuma kariho ishashi karafasha cyane kugira ngo wikande.

Udukoresho dutandukanye two kwa muganga, harimo agakoresho kagenda kaba nk'isaha ku ruhande hariho pome n'agacupa k'amazi, umuganga ufite ahantu urupapuro n'ikaramu arimo aragenda yandika ndetse ku ruhande rwe hari akantu akoresha apima ko umutima utera.

Ibikoresho bikwiriye gukoreshwa mu gihe umuntu ari muri siporo, akenshi iyo umuntu agiye muri siporo hari byinshi ashobora kuba atazi bigashobora gutuma, aho kugira ngo siporo imubere nziza imubera mbi.

Muri siporo ni ahantu umuntu agomba kujya yiteguye, yambaye imyenda yabugenewe kugira ngo itaza kumubangamira mu gihe arimo gukora siporo, nk'urugero aba agomba kujyana udukweto two hasi kugira ngo tutamuvuna.

Umugabo uri gukorera imyitozo imbere y'igitanda, ahinnye amavi arambuye amaboko, yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara.

Ibikoresho byo kwa muganga, birimo akantu gateretseho utuntu two kurya, aka kantu gakozwe cyangwa gashushanyijwe mu ishusho y'umutima, harimo urunyanya igitunguru inkeri n'ibindi, hejuru hariho ka kuma gafasha, kumva uko umutima utera.

Rimwe na rimwe siporro ni umuti. Akenshi hari indwara turwara, zishobora gukizwa igihe cyose n'imiti yo kwa muganga, cyangwa imiti gakondo. Ahubwo zikwiriye gukizwa na siporo. Umuntu rero uyu muntu tubona aha, yambaye imyenda ya siporo arimo arakora siporo kugira ngo, agire ubuzima bwiza.

Umuntu yari ari muri siporo arangije agira ikibazo ku ivi aravunika, yikoza ku ruhande azana agakoresho kamufasha kwikanda kugira ngo amaraso yari yikanze yongere asubire ku murongo.

Amazi nubwo rimwe na rimwe umuntu ayanywa akumva nta cyanga akumva ntabishya cyangwa ntaryoshye, ni meza ku buzima bwacu by'umwihariko ku bantu bakiri bato bakiyifite imyaka yo gukora ndetse n'abantu bashaje bageze mu zabukuru, noneho abari muri siporo bo amazi arabaruhura birenze.

Mu Rwanda harimo harakuzwa umushinga ugendanye no guhuriza hamwe n'abafite ububasha kugira ngo babashe kugira abaganga bahagije bo kujya baganiriza abantu mu gihe bafite indwara zo mu mutwe.

Umukobwa wicaye hasi arimo gukora imyitozo yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri. Arambitse akaboko ku kaguru, akandi kaboko gafashe ikirenge. Yambaye inkweto z'umutuku zirimo n'umweru.

Iyo umuntu akora siporo uyu munsi aragororoka usanga afite ubuzima bwiza, usanga atarahinamiranye mu mubiri cyane cyane ko abantu bakiri batoya bakunda kugira ibi bi ibibazo byo guhinamirana no gukora cyane bakababara.

Umusore n'umukobwa bahuje urugwiro, bisa naho ari abakunzi, bajyanye muri siporo ndetse bose ntibibagiwe kujyana amazi buri umwe icupa ye kugira ngo nibagira icyaka banywe.

Bande, bande ni udukoresho tuba turi mu mabara atandukanye, hari iziba zisa umutaku, umukara, ubururu, zifasha kuzirika umuntu bitewe naho yakomeretse cyangwa yavunitse.

Siporo ni ubuzima. Turabona umuntu uri muri siporo, yambaye agapira k'umuhondo, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, bisa nkaho atari ubwa mbere azikoze, ahubwo asanzwe abimenyereye.

Umukobwa ukiri mutoya, bigaragara ko avuye muri siporo cyangwa agiyeyo, yambaye isengeri y'umukara afite aka esume ku rutugu, arimo kunywa amazi.

Ahantu hateraniye ibintu umuntu ashobora kurya bikamugirira umumaro byinshi bitandukanye, aha twavuga nka pome, tungurusumu, avoka, shufureri ndetse ku mpande hari inkweto bakoresha siporo.

Umukobwa uri gukorera imyitozo ku buriri, yambaye isengeri y'umukara, n'ipantaro y'umukara, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, inyuma ye hari.

Ni byiza ko iyo umuntu avuye muri siporo agenda agafata amazi runaka, yaba litiro imwe cyangwa litiro ebyiri, akabanza akanywa kugira ngo agarure amaraso ndetse n'imbaraga yatakaje.

Umuzungukazi ari kumwe n'umumasera, akana gatoya kari mu myaka nk'itanu kicaye imbere ye, barishimye, baraseka, urebye ntakibazo bafite.

Umuntu yababaye yavunitse ku kuboko aho bakunda kwita kuri pinya, hari agatambaro k'agasashi ukuntu gashyushye karimo ipamba mo imbere arimo gukoresha yikanda.

Agakapu gatoya katari gato cyane, karimo imiti y'ubwoko butandukanye, hari imiti bisiga, hari imiti banywa, hari n'imiti bamira, aha ngaha twavuga nk'ibinini n'ibindi bitandukanye.

Umuntu wirabura w'umukobwa wambaye impeta ku rutoki rwe, bisa naho yavunitse ahagana mu nkokora aho yafashe umuti, agasashi karimo umuti akaba yashyizeho kugirango agabanye ububabare.

Aha ngaha ni ibintu byose ushobora gukurikiza kugira ngo ukore siporo itanga umusaruro, birashoboka ko ushobora gukora siporo ukaruha gusa aho kugira ngo uvurwe cyangwa ugere kucyo ushaka.

Umuntu uri muri siporo yambayeri, arimo aranywa amazi, ni byiza kujya muri siporo ukagenana amazi kuko agusubizamo imbaraga, ukaba utakuma mu mihogo.

Umukobwa ubyibushye ubona ko adafite mu nda hatoya. Yambaye icyo twita kora y'ubururu ndetse n'isengeri ngufi y'icyatsi na supuresi, arimo arakora siporo.

Ni inkweto bakunda kwita butu ariko agapapuro kariho kandiho bato, ni inkweto zikoreshwa n'abantu abaganga, abaforomo abajyanama b'ubuzima cyangwa abandi bantu bagiye kwita no kuvura umuntu urwaye indwara yandura.

Udukoresho kwa muganga akenshi dukoreshwa n'abantu barimo kwimenyereza umurimo, cyane ko hari igikoresho giteye nk'umuntu bigiraho. Bagatekereza ko ari umuntu, hanyuma bakakivura kugira ngo nibagera ku muntu bazamuvure neza.

Siporo z'ubwoko butandukanye ushobora gukora ukagira ubuzima bwiza: hari siporo zo gukina umupira, hari siporo zo gukina umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, kwirukanka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Akuma bisa naho gafite amaguru menshi agiye atandukanye, hari utwuma turiho tureture, hari utundi dutambitse, bisa naho ari agafasha umuntu iyo yagize ikibazo kugira ngo atambuke.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara inkweto z'umweru. Arimo arakora siporo ubona ko rwose ukimubona uhita ubona ko ari umuntu ukora siporo.

Igikoresho gipima uko umutima w'umuntu ugenda, aha niho barebera bati ese umuntu umutima we uratera ku kigero cyo hejuru cyane cyangwa cyo hasi?

Hari igihe abantu batandukanye bakora siporo mu buryo butari bwiza, ugasanga niba icyo bashakaga kugeraho ari ukugabanya umubyibuho ukabije n'ibindi, ugasanga biriyongeraho kugira ngo bigabanuke ni byiza ko tugana umuntu ubishinzwe akabitwigisha.

Abantu bari muri siporo akenshi bakunda gukoresha amazi ugasanga umuntu anywa amazi gusa iyo ari muri siporo, ariko buriya ntabwo ari byo ni byiza ko waba uri muri siporo cyangwa utayikoze uwo munsi ,unywa amazi kuko amazi ni meza mu buzima bwacu.

Ibishushanyo biriho abantu batandukanye, barimo gukora ibintu bitandukanye. Hari ikiriho abana barimo barakina, hari ikiriho abantu babiri barimo gukina umupira w'amaguru, hari ikiriho umuntu wicaye arimo guterura ibyuma, hari ikiriho umuntu urimo kwirukansa imbwa ye ndetse n'undi urimo kwigorora amaboko.

Mu buzima tuzi neza yuko tutavurwa n'imiti gusa, ahubwo hari ibindi bintu bivura harimo nka siporo, siporo ni umuti ukomeye ndetse dushobora no kwiyita urukingo kubera ko ikurinda kurwara, ikanakuvura indwara.

Ntabwo ari byiza ko umuntu anywa amazi ari uko yagiye muri siporo gusa, ahubwo amazi ni ubuzima. Dukwiriye kuyanywa nk'uko turya ibiryo buri munsi, bitewe n'uko umubiri wacu uba ukeneye amazi kandi amaraso agatembera neza.

umurwayi yagize ikibazo mu kuguru, bisa n'aho abantu benshi bahateraniye kugira ngo barebe ikintu cyabaye kugira ngo nabo bajye birinda kubikora kuko ubona ko byateje ikibazo kinini.

Iyo umuntu agize ikibazo mu mavi, ni byiza ko bahita bamuha ikintu kimeze nk'amasogisi cy'umukara ukuntu akacyambara, icyo kintu gituma amagufwa asubira ku murongo ndetse umuntu akongera gutambuka nk'uko bisanzwe.

Kuri telefone zacu hariho sisitemu zitandukanye ariko by'umwihariko ku bantu bakunda siporo, harimo sisitemu ifasha umuntu gukora siporo cyane cyane iyo yihaye intego yo gukora siporo ibimufashamo cyane.

Umuganga arimo aravura umusore ivi. Ivi ni ahantu hababara cyane iyo umuntu ahakomeretse ariko kandi tujye duhita twihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagende baduhe ubufasha bw'ako kanya.

Ni byiza ko umuntu iyo ari mu kibuga cy'umupira by'umwihariko w'amaguru agomba kuba afite abantu ku ruhande bashobora kumuha ubufasha, nko kumuvura, kumufasha aho akomeretse cyangwa kumuterura mu kibuga igihe aguye.

Amazi ni meza ku buzima bwa muntu umugabo arimo aranywa amazi, ubona ko ayanywa ayanezerewe kandi azi neza umumaro wayo, amazi ntabwo babayanywa ari uko bafite inyota gusa ahubwo ni meza ku buzima.

Ni igikapu kirimo ibyangombwa byose umuganga akenera kugira ngo avure umuntu byihutirwa. Ni ibikapu bikunda gukoreshwa ku bibuga by'umupira, aho haba hari abaganga iruhande rw'ikibuga kugira ngo umuntu wese ugize ikibazo bahite bamuvura mu kibuga.

Mu cyumba cy'abantu bavuriramo. Ni ahantu harwariye umuntu bisa naho yavunitse ukuguru. Akumanitse ku kantu kabugenewe k'akuma ndetse ibi bitaro byasuwe n'abayobozi barimo minisitiri.

Ababyeyi batatu baje kuvuza umwana, harimo umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, n'undi mugore wambaye agapfukawa k'umukara, na muganga urimo gusuzuma umwana uburwayi yaba afite.

Igikapu kirimo ibintu byinshi bitandukanye, aha twavuga nk'imikasi, inshinge, ubona ko ibyinshi, ibikoresho byinshi ari ibyo kwa muganga.

Hari igufa riri hagati y'ukuguru n'ikirenge, iri gufa rikunda kuvunika kenshi ku muntu ukora siporo cyangwa abakinnyi b'imipira, iri gufwa ni igufwa riba rikwiriye kwitabwaho kuko iyo umuntu aribabaye ababara cyane.

Umuntu wicaye ku gatanda, bisa n'aho yarari muri siporo akagira ikibazo, yambaye inkweto bakunda kwita godiyo ndetse n'amasogisi, ku ivi rye umanuka ku kuguru hari ikintu bahashyize cy'umukara, bisa n'aho ashobora kuba yagize ikibazo bakaba bamushyizeho icyo kintu ngo kimufashe.

Hari nimero ya telefone na terefone ushobora gukoresha kugira ngo uhamagare mu gihe uri mu bitaro, ukaba uri ku gitanda cyawe, nta muganga uri hafi aho ngaho.

Igitambaro cy'umutuku. Iki gitambaro bakunda kubikamo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, akenshi iyo bagiye nko kujya ku kibuga, ahakinirwa umupira w'amaguru kugira ngo uribuze kugira ikibazo, baze kumufasha.

Amavuriro menshi yo mu mugi avurirwamo indwara zitandukanye ariko by'umwihariko banagira serivisi bahereza abantu barwaye imvune n'amavunane.

Abantu babiri bari muri siporo, umwe n'umugabo n'undi ni umugore. Bose bafite imisatsi miremire aho umugabo nawe yasutse cyangwa yabohesheje imisatsi, barimo kugorora imitsi n'amagufa.

Ni akantu kameze nk'akamashini gakoreshwa kwa muganga, kanditseho imibare kuko iyo ushaka gukanda umubare ukanda kuri uwo mubare ubona, ku ruhande hari akantu kayicomeka kugira ngo ijyemo umuriro iyo mashini.

Umusore ubona ko bishoboka ko akora siporo buri munsi, arakomeye, ameze neza, ku kuboko kwe hariho utuntu dutambitse ndetse n'utuzamuye tw'umutuku n'ubururu.

Abana bakiri batoya baba bari mu myaka iruhije, aho baba bagomba kurindwa ibintu byinshi, birimo imirire mibi, kugwingira n'ibindi, ugomba kumujyana kwa muganga rero mu gihe runaka kugira ngo urebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusore w'ibigango, ateruye icyuma urabona ko afite umubiri ukomeye rwose guhera mu gituza kugera ku maboko, imbere ye hari amagi, hari amazi, hari icyayi, hari inkoko, hari n'ibindi bitandukanye, ahari biratwereka ko tudakwiriye gukoresha ibyo buri munsi ahubwo dukwiriye no gukora siporo.

Umuntu w'umwirabura, afite uruhu rw'igikara, arimo arakora siporo, aho yicaye hasi, arambura amaboko, akora ku nkweto ze, yambaye isengeri y'umukara.

Umugabo wambaye insengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara ari muri siporo, arimo ararambura amaguru, amaboko ndetse no mu irugu, ni byiza gukora siporo cyane ko bituma umuntu adahinamirana.

Umuntu urimo kunywa amazi bisa naho amaze amasaha menshi cyangwa iminota myinshi ari muri siporo yirukaka, amazi ni meza siporo ni nziza noneho iyo ugize umuco wo kunywa amazi kandi ugakora siporo ugira ubuzima bwiza cyane.

Akenshi tujya duhuzwa n'ibindi bintu harimo nk'akazi, amashuri n'ibindi tukibagirwa ko siporo ari nziza mu buzima. Siporo dukwiye kuyishakira umwanya wayo yaba iminota cumi n'itanu cyangwa mirongo itatu ku munsi kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umuntu bamuryamishije ku gatanda, barimo baramukoreshaho siporo, ni umuhungu imbere ku kandi gatanda na ho hari umukobwa nawe arimo arakoreshwa siporo zo kugenda bamuramburira ingingo nk'amaguru n'ibindi.

Iyo tugiye kwa muganga, akenshi bakatwandikira kunyura mu cyuma, iyo ugiye kunyura mu cyuma, hari ikintu baguhagarikamo hanyuma ifoto yawe ya wowe imbere ukuntu umeze ikagaragara imbere, aha rero umuntu yagiye mu cyuma bafata ifoto ye yo mu mutwe.

Umuntu umanitse amaboko, bisa naho ari muri siporo. Afite umusatsi muremure, yambaye agatambaro gatoya mu gahanga. Siporo ni nziza, by'umwihariko ku gitsina gore, ni byiza ko bakora siporo kugira ngo bareke kugira umubyibuho ukabije, akenshi utera indwara zitandukanye.

Umuntu yari ari muri siporo, yari yabyutse mu gitondo ajya gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, ariko ageze hagati aragwa, arimo arababara itako.

Imiti itandukanye iri mu macupa agiye atandukanye, ifite imifuniko itangaje aho imifuniko wagirango ikozwe mu makoma cyangwa mu bibabi kuko yose ni icyatsi kandi ntabwo ari ya yindi ya kizungu.

Mu gihuru ahateye cyangwa ahari ibiti, ibyatsi, ibihingwa ndetse n'imiyenzi n'ibindi bitandukanye, aha ngaha iyo ugiyemo ukuramo imiti myinshi cyane.

Ikarita y'ubwishingizi bwo kwivuza, mu Rwanda tugira ubwishingizi bwo kwivuza bwishi burimo Rama, Mituweli n'ibindi. Ubu bwishingizi rero nabwo bwiyongereyeho uyu munsi.

Abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abamama, abapapa, bari ahantu hatondetse imiti myinshi cyane iri mu ducupa, uragenda ukavuga icyo urwaye hanyuma umuntu urimo kubitanga, gutanga izo serivisi akagufasha.

Ahantu hateraniye utuntu twinshi, hari inanasi, hari isashi irimo shokora, hari irimo sezame ndetse n'utundi dukarito twinshi turimo intungamubiri.

Ibiganza birimo birasekura umuti gakondo. Umuti gakondo kugira ngo ukorwe cyangwa utunganywe ku buryo wakoreshwa, ni uko bavanga ibintu byinshi.

Agacupa k'ubururu gasa hose, yaba agacupa ndetse n'umufuniko wako, bisa naho harimo umuti w' uruhu. Kwita ku ruhu ni byiza kubera ko birinda umuntu kuba yarwara indwara zirimo ibiheri.

Umuntu wambaye itaburiya, akanozasuku mu mutwe, agapfukamunwa ku munwa n'ishati y'ubururu, arimo arapanga imiti. Bigaragara ko imiti iri mu ducupa, yari arimo arafata utwo ducupa kamwe kamwe ashyira mu gakarito kawo.

Iyo ugiye mu ishyamba, uhasanga ibintu bitandukanye. Hari igihe uhasanga ibyatsi, hari igihe uhasanga ibiti, ndetse akenshi muri ibyo biti haba harimo n'ibiti, bikorwamo imiti.

Ibibabi bifatwa bigatunganywa bigakorwamo umuti, ibibabi biratangaje kuko nikimeze biragoye kugira ngo ubitere byere ahubwo urategereza bikimeza mu murima.

Umuvuzi gakondo arimo aratanga ikiganiro, kuri nsakazamashusho y'u Rwanda arimo kuganira ndetse no kuvuga ku bigendanye no kunoza urwego rw'ubuvuzi, gakondo.

Amavase ateretsemo imiti gakondo, hari ivase imwe iteretsemo imiti ijya kumera nk'ibiti n'utubabi dutoya ariko dukomeye, akandi gatoya k'akavaze kameze nk'agasahane karimo imbuto ndetse n'utundi ku ruhande.

Agacupa bisa naho karimo umuti gashobora kuba karimo umuti wo kunywa utari ibinini, aka n'agacupa k'umweru hose kuva hasi kugera hejuru ariko kariho ikirangantego cyanditseho foreva, icyo kirangantego cyanditse mu mabara y'icyatsi n'ubururu.

Icupa ry'umutuku, riteye neza hose rirangana, hariho amagambo yanditseho, ayo magambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ni icupa ryiza ririmo umuti gakondo ushobora gufasha umuntu kutagira umubyibuho ukabije.

Umuti w'amenyo mwiza ubona atari nk'iyi miti dusanzwe tuzi ya kizungu, bisa nkaho uyu muti wakozwe mu byatsi cyangwa mu miti ya kinyarwanda, urabona ko umuntu umwe arimo arashyira ku buroso bw'undi muntu kugira ngo yoze amenyo ase neza.

Ibinini by'umuhondo bikozwe muri mpande enye, ni ibinini icumi. Aho ibi binini bivura umutwe, biza mu gakarito kanditseho mu rurimi rw'amahanga forever aloe turm.

Umuti witwa ALOE ni umuti mwiza cyane, bavuga ko iyo ukoresheje uyu muti indwara waba uvura yose bidashobora kurenza iminsi itatu ukirembye.

Ibibabi ry'icyatsi ariko ubona ko iyo utangiye kuma bigenda bisa nk'umutuku ukuntu cyangwa orange, ni ibibabi iyo ubiciye ukabikoramo umuti bishobora kukuvura ahantu hagize igisebe cyangwa wakomeretse.

Ahantu hakorerwa ubuvuzi gakondo, ni ahantu haba hari ibintu byinshi utamenya ibyo aribyo. Haba hari uducuma, haba hari utuntu tw'udusekuru, haba hari utundi tuntu, utubeleba n'ibindi bitandukanye.

Igikarito cyanditseho ubwoko bw'umuti ndetse n'uko umuti uvura, aho uturuka n'ibyo ukorwamo. Ni igikarito kinini ariko kitari kinini cyane.

Ibibabi bitandukanye, ni umuti gakondo. Harimo ibibabi by'umubirizi, igikakarubamba, umuravumba, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igicupa kirimo amavuta akwiriye gukoreshwa ku ruhu gusa, aya mavuta kirazira kuyanywa, kirazira kuyisiga, ahubwo uyasiga ahantu hari ikibazo ku ruhu gusa.

Amacupa abiri ashushanyijeho igikakarubamba, rimwe rifite umufuniko wa shokora irindi rifite umufuniko w'umuhondo, imbere yaho hari ibisate bitatu by'imyembe.

Imiti gakondo yakoreshwaga kera n'abantu twakwita ko bakuze abakecuru n'abasaza akenshi kuri ubu nibo bayikoresha. Ni imiti yavuraga byihuse kuko abenshi bayiteraga bakaba bayifite hafi mu mirima yabo, ni imiti kandi ikoreshwa akenshi iyo barimo gukora imiti ya kizungu.

Umujyanama w'ubuzima ku bijyendanye n'imirire. Akumenyera imirire iboneye kugira ngo wirinde indwara zishobora kutavurwa ndetse n'izivurwa.

Ubwoko bw'ibyatsi butandukanye hari, ubwoko bugera muri cumi na bubiri, higanjemo ibyatsi by'umubirizi, umuravumba, inyabarasanya, n'ibindi.

Umuganga uri kwerekana ibinini byavuye mu gakarito gasa umweru kandikishijeho amagambo y'icyatsi, yambaye itaburiya y'umweru.

Imiti myinshi iri mu ubwoko butandukanye, iri mu macupa agiye atandukanye, amwe ateye bitandukanye n'andi, aho amwe ari magufi, andi akaba maremare, andi ni manini mu bunini mu bugari ndetse utundi ni dutoya. Iyi yose ifasha kuvura abantu kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Akagera dusanzwe tukaziho ibintu bitandukanye cyane cyane hano mu Rwanda. Noneho aha ngaha, ni imiti ikorwa n'Akagera ituruka mu Kagera.

Imiti iri mu dukarito umwe, umuti umwe w'icyatsi ukuntu ushushanyijeho umuntu ari muri siporo ndetse n'utujerekani tubiri dutoya cyane turimo umuti tw'umuhondo.

Umuti bakunda gukoresha boza mu mutwe. Utuma umuntu ufite ikibazo cy'uruhu, umusatsi n'ibindi gikemuka.

Ahantu hakusanyirijwe ibintu bifasha umuntu iyo avuye muri siporo, harimo nk'imineke inanasi, indabo ku ruhande, shokora ndetse n'utundi dukarito dutandukanye.

Imiti y'uruhu igera kuri itandatu, yose iri ahabugenewe, iratondetse. Kuvura uruhu ndetse no kurukurikirana kureba icyo rukeneye, ni byiza kugira ngo ugire ubuzima bwiza ari na ko ugira uruhu rwiza.

umubyeyi ukenyeye igitenge arimo araca akarabo, aka karabo ni za ndabo za kimeza zikunda kumera mu mirima n'ahandi hantu hari ubutaka bwiza butoshye, uyu mubyeyi ashobora kuba yakabonyemo umuti.

Imiti gakondo ni imiti abakecuru n'abasaza bakunda guha agaciro cyane, ariko mu mujyi bakunda mvaruganda cyane cyane, iyi miti yose ni myiza kuko ifataniriza hamwe kudukiza no kutugarurira ubuzima.

Abagabo benshi, harimo abagore bakeya, umugore ugaragara ni umwe, abenshi bambaye imipira y'icyatsi ariko umupapa umwe ubyibushye cyane muri bose yambaye imyenda isanzwe ishati y'umuhondo.

Imiti iri mu dukombe dupfundikiye, tumwe dupfundikijwe imipfundikizo y'umutuku utundi imifuniko y'umweru, bisa n'aho harimo imiti ya kinyarwanda. Kuri ako gakombe hariho icyapa kigaragaza uyu muti, icyo uvura ndetse n'izina ryawo.

Umuti mwiza ukozwe mu buryo bwizewe, bawukoresha akenshi mu muryango cyane ko byanditseho ngo "uvura kurangiza vuba, gucika intege", n'ibindi bitandukanye, ni mwiza kuwukoresha cyane cyane ku bantu bubatse.

Imiti ni ingenzi mu buzima bwacu kuko akenshi biragoye ko umuntu ashobora kumara umwaka wose atarwaye. Rero iyo hari imiti ararwara akajya kwa muganga bakagerageza kumuha imiti yavura icyo arwaye agasubirana ubuzima buzima.

Umuravumba ni umuti mwiza cyane, ariko ni umuti gakondo. Ukunda kwifashishwa mu byaro akenshi aho bawuvurisha abana, abakuru, abakecuru barwaye indwara zitandukanye.

Umuravumba ni umuti wera mu mashyamba cyangwa mu mirima, ushobora kuwutera cyangwa ukimeza, iyo umaze kwera hari abahanga bagenda bagafata ibyo bibabi bakabikoramo umuti wa kizungu bakawushyira mu icupa bakawugurisha.

Ni umuti witwa mu rurimi rw'amahanga ROYAL JELLY, ni umuti mwiza cyane cyane ku bana aho uyu muti bawunywa, ntago usharira abana rero bahita bawukunda cyane kandi ukabavura.

Utubabi dutoya dutoya tujya kumera nk'aho ari imiravumba ariko ntabwo ari imiravumba, bisa nk'aho ari umuti gakondo, umuti wa Kinyarwanda uvura indwara runaka harimo by'umwihariko indwara nka giripe cyangwa inkorora.

Umuvuzi gakondo afite ibikenerwa byose kugira ngo akore umuti wa kinyarwanda cyangwa umuti gakondo, afite utuntu yagiye arasoroma aranka turuma, nitwo arimo aragenda ahuza akadusya hanyuma tukavamo umuti.

Igihuru kirimo ibyatsi byinshi kigiye giteyemo ibiti, ibiti utapfa kumenya, izina rya byo byose gusa amazina aba ahari, hateyemo imiti itandukanye nk'imiti y'igikakarubamba ndetse n'umuravumba.

Umugabo uri mu myaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu uwo bakunda kwita ijigija mu rurimi rw'Ikinyarwanda, arimo arasoroma umuti, ari ahantu ubona aha hari ari mu gihuru ariko kandi muri ibyo bihuru niho haba harimo imiti.

Agasashi k'umuhondo, gapakiyemo umuti. Uyu muti usa n'aho ari umuti gakondo, ni umuti w'umutuku wijimyemo ukuntu. Ku ruhande hariho ikirangantego, cyerekana ko uyu muti wemewe na Leta.

Mu murima ahantu bahinga umuceri, ni ahantu hakwiriye kwitabwaho cyane by'umwihariko ku bantu bashaka gukora ubuhinzi bugezweho, hakwiye kujyanayo amamodoka ahinga, inka zihinga n'ibindi.

Imiti gakondo iva mu buryo butandukanye hari iyo ushobora gukoresha wotsa amababi ukayahekenya cyangwa indi ukayitogosa ukanywa amazi yayo, iyi miti kandi gakondo niyo ivamo imiti ya kizungu tuzi.

Akabido bimeze nk'aho ari akabundi k'umweru, gafite umufuniko wa oranje, karimo umuti, ni umuti uvura ibintu byinshi bitandukanye, iyo uwufashe neza nk'uko muganga yabikubwiye.

Amavuta akoze neza y'umuti w'uruhu, ushobora kuyabona mu macupa agiye atandukanye kandi afite amabara atandukanye: nk'icyatsi, ubururu, move n'ibindi

Umuti gakondo w'ibyatsi, uturuka mu bimera, aho ufatwa usoromwa, ugatunganywa ndetse ugatunganyirizwa ahantu hafite isuku kugira ngo uzavure abantu.

Umuti mwiza cyane; umuti woroshye kunyobwa, umuti udasharira cyane, kandi ikindi cyiza cyawo ni uko wakuwe mu miti gakondo, twavuga nk'umubirizi, umuravumba, inyabarasanya n'intagarasoryo.

Umuravumba ni umuti mwiza cyane, ni umuti uvura umuntu inkorora kandi vuba bidatinze, akongera akaba muzima, imihogo ye igakomeza gukora neza ndetse abafungana n'amazuru agafunguka.

Ibinini bijya gusa nk'icyatsi cyijimye biba biri mu gikarito cyanditseho amasaha makumyabiri nane ku minsi irindwi, ni igikarito kiba gipakiyemo imiti ivura icyo nakwita agahinda gakabije no kwigunga.

Tungurusumu ni umuti, ukuyeho kuba ari ikintu gikoreshwa mu gutegura amafunguro gusa, ahubwo na yo ubwayo ni umuti, aho iyo urwaye umutwe cyane ukaba wayishyira munsi y'ikirenge ubyuka wakize.

Udukarito turimo imiti mu rurimi rw'amahanga yitwa fosevare. Ni imiti ifasha kuvura umuntu mu gihe yumva afite umunaniro ukabije ndetse n'umutwe udakira.

Ishyamba ritari rinini cyane, ririmo ibiti bitandukanye, ibyatsi bitandukanye, ariko by'umwihariko hakaba hateyemo umuti w'umuravumba.

Ibibabi ubona ko byamereye kuri senyenge. Munsi yabyo hari ruhurura y'amazi. Bisa naho bitatewe n'umuntu ahubwo byarimejeje.

Imiti gakondo ya kinyarwanda ikorwa mu byatsi, ni imiti ivura umugongo aho bayivuguta bakayikamura, amazi avuyemo bakayasiga ahantu ku mugongo harimo kubabara.

Ibyatsi bigiye bitandukanye bikorwamo imiti igiye itandukanye, ivura ibintu bitandukanye, aho harimo: umubirizi, umuravumba, inyabarasanya, igikakarubamba n'ibindi.

Umuti gakondo ufite ibibabi ry'icyatsi cyerurutse ni umuti utabitegereje neza ujya gusa n'inyabarasanya ariko ntabwo ari inya bararasaumuti uvura iyo iyo umuntu agize inkovu cyangwa akomeretse.

Ibikombe bibiri birimo amazi ndetse n'ibibabi byabugenewe, iyo ufashe igikombe ugashyiramo amazi ashyushye ugashyiramo ibi bibabi biba byiza cyane kuko uba ugiye gukora umuti kuko unywa ayo mazi yakamuye umuti mu bibabi.

Ibinini byinshi cyane, biri mu kantu gateye nka rushe ariko ubona gakoreshejwe urubaho. Ibinini by'icyatsi uko bisa kose bishobora kuba bivura nk'inzoka cyangwa babiha abana, kugirango ngo umwanda bahura nawo utabagiraho ingaruka mu buryo bw'ubuzima.

Agakombe gateye nka twa dukombe tuzamo imiti yo kwa muganga, agakombe gafite ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru kugeza hejuru ku mufuniko, kandikishijwe ibara ry'ubururu, bisa nk'aho handitseho amagambo asobanura umuti urimo uwo ariwo.

Imiti iri mu bwoko butandukanye, ni imiti iri mu makarito, iri mu ducupa ndetse n'utundi tuntu dutandukanye, muri iyi miti harimo amakarito amwe asa ubururu n'umukara n'umweru n'ibindi.

Lavender ni umuti mwiza cyane, ni umuti ukoranywe ubuhanga buhanitse aho uvura ibikomere, ibisebe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Imiti y'uruhu akenshi ntabwo bayinyuza mu kuyimira, ni yo mpamvu ari imiti yabugenewe yo kwisiga kugira ngo ivure abantu bafite ibibazo by'uruhu bivure.

Agacupa keza k'umweru gafite isuku gafite n'umufuniko w'umweru bisa na ho harimo imiti, inyuma handitseho amagambo menshi asobanura uko uwo muti witwa, icyo uvura ndetse n'ibiwukozwemo.

Umuti gakondo uvura indwara yo mu mutwe, uvura ibyo abenshi bakunda kwita siteresi, ugabanya kunanirwa, ni mwiza mu buzima cyane cyane ku bantu bafite imirimo myinshi bakora.

Amavuta ari mu icupa rifite umufuniko wumutuku, icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umukara n'irindi cupa rifite umufuniko w'umweru n'irindi ririmo ji ya shokora.

Amacupa menshi atandukanye harimo afite ibara ry'umukara n'icyatsi, afite umutuku n'umweru, afite ibara ry'igitaka aho twavuga nka shokora.

Umuti witwa Aloe ni umuti ariko kandi ukaba n'amavuta yo kwisiga ku ruhu, bishatse kuvuga ngo iyo wisize aya mavuta uba urimo no kwivura icyarimwe.

Utunini tw'umuhondo turi dukoze ukuntu muri mu buryo bwa mpande enye ni utunini icumi dusa naho utu tunini tuvura umutwe ni utunini turimo ibara ry'umuhondo.

Imiti myinshi irundiye ahantu hamwe. Ni byiza ko umuntu utanga iyi miti agomba kuba yarize kandi afite impamyabushobozi imwemerera gutanga imiti kugira ngo atibeshya agaha umuntu umuti utajyanye n'icyo arwaye.

Igisubizo kuri amibe, hari umuti mwiza cyane, iyo uwukoresheje urwaye amibe ntumara iminsi cumi n'itanu utarakira. Ni byiza ko dukoresha uyu muti, wanditseho mu rurimi rw'amahanga Reishi.

Agasashi k'umuhondo bisa naho karimo umutima imbere, umuti ujya gusa umutuku n'umutuku wijimye ukuntu, ku iruhande hariho icyapa cyerekana ko uyu muti wemewe n'amategeko.

Umuryango alliance, ni umuryango ukunda gutera inkunga abantu bafite ibibazo bitandukanye by'umwihariko ibigendanye no mu mutwe.

Umuravumba ni umwe mu muti wakundaga gukoreshwa kera ukoreshwa n'abantu bakuze abagabo b'abasaza ndetse n'abagore n'abakecuru aho bivurishaga indwara nka malariya.

Igikombe cy'umweru kiriho ikirangantego cyanditseho ko ari imiti y'abana, abana ni byiza kubaha imiti yo kunywa kurusha iyo kumira kugira batayigarura cyangwa ikabagiraho ikindi kibazo.

Akajerekani k'umuhondo gafite umupfundikizo w'umutuku kandikishijweho icyapa cyandikishije amabara y'umutuku. Ni umuti bigaragara ko wakozwe mu gikakarubamba.

Ururabo rwiza rw'umweru bisa naho atari ururabo gusa ahubwo rurimo n'umuti, kuko iyo urufashe ukaruvanga n'indi miti nk'umubirizi n'ibindi havamo umuti uvura mu nda n'inzoka.

Akajerekani kangana nka litiro ni akabundi ukuntu bisa n'aho gashobora kujyamo ibintu byinshi n'ubwo kagaragara ko ari gatoya, karimo umuti uvura umutwe ukabije ndetse n'inzoka zo mu nda.

Umuti gakondo wa kinyarwanda, uvura ibintu bitandukanye aha ngaha twavuga rubagimpande, umutwe udakira, mu nda ndetse n'ibindi bitandukanye, uyu muti urakorwa ugashyirwa mu bicupa bingana nka litiro.

Umuti w'amenyo mwiza cyane. Ukoranye ubuhanga, ubushishozi ndetse uravura ukanakorera isuku neza amenyo yawe. Ni mwiza cyane kandi urizewe.

Umuganga afite ibicupa bibiri by'imiti imbere ye arimo arabipima. Bisa nkaho hari ukuntu bapima sese imwe imwe hanyuma babivanga bikavura ikintu kimwe runaka. Umuti umwe urasa ubururu undi uri mu gicupa gisa umukara.

Amacupa ane y'amabara atatu atandukanye, bibiri bi bya mbere bifite amabara y'umuhondo ibindi bibiri bifite imwe shokora irindi umutuku.

Ibinini by'umweru, bigera mu binini birindwi cyangwa kurenga, biri mu kantu k'agatambaro k'icyatsi, ibinini ni byiza mu buzima, ariko kandi iyo tubikoresheje cyane, bigera aho ng'aho ntibijye bituvura.

Utubido tubiri tw'umuhondo dufite imifuniko y'umutuku. Uducupa twinshi, tugera muri tune. Dufite imifuniko, tubiri dufite iy'umweru, akandi gacupa gasa nk'aho ari kanini muri two, gafite umufuniko w'ubururu. Harimo imiti ya kinyarwanda, aha ngaha ni imiti idufasha kwivura, ndetse akenshi ni yo bakuramo imiti ya kizungu.

Ahantu hakusanirizwa imiti gakondo kugira ngo itegurwe neza, isekurwe, ishyirwe mu bubiko, hanyuma itegurwe neza kugira ngo abantu batangire kuyikoresha.

Imiti ya kinyarwanda ni imiti ivura kandi rwose abanyarwanda barayizera cyane, iyi miti gakondo iba yitwa amazina atandukanye kandi atangaje, hari ibumba, hari umuti w'icyatsi uri mu icupa rirerire ry'icyatsi, hari n'indi miti itandukanye.

Buriya imiti yose ntabwo ari imiti ya kizungu. Hari n'imiti ya gakondo. Ibi ni ibibabi, akenshi ni umuti ukunda kwimeza mu mirima, mu mashyamba n'ahandi. Umuti uvura mu nda akenshi ndetse na malariya.

Mu buzima busanzwe yaba abakobwa n'abahungu, hari amavuta bakunda kugira abari mu kantu k'agacupa gatoya bisiga ku munwa kugira ngo iminwa ireke gusaduka, rero abavuzi ba gakondo bafashe imiti gakondo bayikoramo ayo mavuta bakunda kwita rabiro.

Umuti mwiza cyane w'uruhu, ni umuti wizewe bitewe n'uko utashyizwemo imisemburo mvaruganda, ahubwo wakoreshejwe mu miti yonyine gakondo.

Ni byiza ko umuntu yita ku buzima bwe, by'umwihariko akamenya icyo akwiriye gukora n'icyo adakwiriye gukora, kugira ngo agire ubuzima bwiza bimwongere n'iminsi yo kubaho.

Tangawize usibye kuba zifasha mu cyayi, zikoreshwa kandi zikifashishwa nk'umuti. Zivura inkorora, ibicurane, ndetse no mu gifu.

Umuti uri mu gacupa kagufi atari kagufi cyane, k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kariho icyapa, icyo cyapa kirasa umukara ariko mo imbere harimo n'undi mweru muke.

Igiti cyameze iruhande rw'imbingo ku rugo, aho iki giti cyakuze batazi ko ari umuti ariko nyuma bakamenya ko ari umuti ushobora gutungaywa ukavura ibintu byinshi.

Ikibabi kivura indwara zitandukanye, iyo ugifashe ukabica ari nk'ibibabi bitanu, ukabishyira mu ikoma ukabyotsa, byamara gushya ukabikamura ukabinywa utuzi twayo, urakira kandi ukumva ugize ubuzima bwiza.